Abana bagomba gutozwa umuco wo gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, akenshi bakabikora mu gihe bavuye ku bwiherero cyangwa bamaze gukora mu myanda kuko bidufasha kurwanya indwara ziterwa n'umwanda zirimo impiswi na za macinya n'izindi ndwara.

Gutoza abana bakiri batoya umuco wo gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, bidufasha kurwanya imyanda ndetse n'indwara zikomoka ku myanda, aho kubigisha uyu muco bitangirira mu mashuri bikazamuka bikagera no mu muryango aho abana baba.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, ariko hakaba n'ibishinzwe kwifashisha mu gihe inkongi yakwibasira ibitaro, cyangwa ikigo nderabuzima, iyi miti rero bahita bayizana bakayipuriza mu muriro ukabasha kuzima, bityo ubuzima bw'abantu ntibuhangirikire.

Kubaka akarima k'igikoni tugateraho ubwoko bw'imboga butandukanye, harimo dodo, pavuro, sereri, ni bimwe mu bintu biteza imbere imibereho myiza, ibi ngibi bikunze gukorwa cyane n'abayobozi b'igihugu bafatanyije n'inzego z'umutekano, bakubakira abaturage batishoboye uturima tw'igikoni kugira ngo bajye babasha kubona imboga zikungahaye ku ntungamubiri.

Abaturage nyuma yo kubakirwa amavomero agezweho azana amazi meza, ubu barishimye cyane kuko basigaye bavoma amazi meza, bakanywa amazi meza bakoga amazi meza, bitandukanye n'uko babagaho mbere bavoma amazi yo mu biyaga no mu migezi.

Abayobozi b'ibihugu by'amahanga abakorerabushake n'abafatanyabikorwa, bashyigikiye minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, maze bahugura abantu benshi cyane ku bijyanye no gutanga ubuvuzi bw'ibanze mu baturage b'u Rwanda.

Abakiri batoya bagomba kwitabwaho, duhereye mu ngo aho batuye, kugenda ukageza no mu mashuri aho biga, ibi ngibi biterwa inkunga n'abayobozi batandukanye, harimo n'abaturage bakomoka mu bihugu by'i Burayi, baba bafite urukundo bakifashiriza abantu bo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, bifatanyije n'abanyamahanga bo ku mugabane w'Uburayi, hagamijwe kwigira hamwe no kurwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira imibereho myiza y'abaturage batuye mu gihugu cyacu, harimo nk' ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ribangamira ndetse rikanadindiza imibereho myiza.

Abana bato bagomba kwitabwaho bakajyanwa kwa muganga, bagasuzumwa indwara ndetse bagahabwa n'imfashabere zirimo amata, cyangwa n'inkingo zibarinda kwibasirwa n'ibyorezo bitandukanye.

Abana benshi bari gukaraba intoki, bakoresheje amazi meza, aho bari gukarabira kuri kandagira ukarabe kugira ngo bakureho imyanda, yagiye ku ntoki zabo kandi bari kubikora, igihe bavuye ku bwiherero nk'uko babitojwe.

Abana batoya bakomeje kwitabwaho mu gihugu cy'u Rwanda kuko abayobozi bafatanya n'inzego z'umutekano harimo n'igisirikare, maze bakagenera abana batoya imfashabere harimo nk'amata ndetse n'ifu y'igikoma.

Kunguka umwana mutoya w'uruhinja mu muryango ni igikorwa gishimisha cyane, kuko usanga iyo yavutse imiryango iterana, abaturanyi bakaza n'abaganga, bakishimira yuko umuryango mugari wungutse undi muntu w'umwana mutoya w'umuziranenge.

Amavomero yagiye yubakwa hirya no hino mu giturage, aho afasha abantu bahatuye kubona amazi meza, yo gukoresha imirimo itandukanye yo mu rugo, harimo koza abana, koza ibikoresho bariraho, amasahani n'ibiyiko, ikindi bakanayifashisha, bakora isuku yo ku mubiri wabo.

Kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza, bagomba kurya ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri birimo imboga, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Mu bice bimwe na bimwe by'icyaro, abantu baho bakunze guhinga imboga bakazigaburira n'abana babo.

Ubuzima bw'abana batoya bugomba kwitabwaho, ku bufatanye n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'inzego z'umutekano, zimanuka zikegera abaturage batuye mu byaro, bakabaha amata, bakabaha n'imfashabereye kugira ngo bonse abana babo bagire ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bushobora gukorwa hifashishijwe uburyo butandukanye, burimo ubwo guhereza abaturage impapuro zo gusoma kugira ngo babashe kubonaho amakuru yerekeranye n'ibyo bagomba gukora kugira ngo bagire ubuzima bwiza, harimo kandi no kubaganiriza ndetse no gukoresha inama kugira ngo bazitabire, tubahemo amakuru y'ibanze yerekeranye n'ukuntu umuntu yagira ubuzima bwiza.

Gukoresha kandagira ukarade ku ishuri ni ibintu byiza cyane, kuko bifasha mu kugabanya gukwirakwiza umwanda hagati y'abanyeshuri, umwe asuhuza undi, bityo bakabasha kubaho neza bafite ubuzima bwiza.

Mbere yuko umuganga avura umurwayi ashaka kumufata amaraso ngo amusuzume indwara, abanza kumwambika agatambaro kabugenewe gatuma imitsi yirega, ubundi akamutera urushinge, akamuvoma amaraso akabona kumusuzuma.

Amavomero yagiye yubakwa hirya no hino mu biturage, aho usanga abantu bahatuye bavoma amazi ku buryo buboroheye bityo isuku igatera imbere kuko babona amazi yo gukoresha mu rugo harimo guteka, kumesa imyenda no koga.

Hari ikigo gishinzwe kwita ku buzima, ku rwego rw'Isi yose, aho gifasha abaturage mu buryo bw'ubujyanama, ndetse no kubaha ibikoresho, yewe n'ibiribwa byo kurya, kugira ngo bibongere intungamubiri, cyane cyane ku miryango ikennye, cyangwa mu bihugu byibasiwe n'intambara.

Abagore bafite abana batoya bashishikarizwa kubajyana kwa muganga kubakingiza no kubapimisha indwara zitandukanye kugira ngo bahabwe inkingo kandi banavurwe kandi ubuzima bw'abana babo bukurikiranwe kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza.

Ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda bufatanyije n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze, bahabwa ibiganiro n'abayobozi bakuru bigamije kubashishikariza kongera imibereho myiza y'abaturage bayobora kugira ngo turusheho kuba mu Rwanda twifuza.

Igikundi cy'abayobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage, bitabiriye igikorwa cyo kwa muganga kugira ngo bigishwe ukuntu bazaza bita ku buzima bwabo, kandi banabishishikarize bagenzi babo, mu miryango migari aho batuye.

Abayobozi baturutse muri Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda, bari kumwe n'abagore n'abakobwa, babashishikariza kwirinda guterwa inda z'imburagihe no kuboneza urubyaro kugira ngo babashe kurera abana bashoboye, mu miryango yabo.

Inama yabereye mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo, yahuje abayobozi b'ibihugu, bari kuganira ukuntu bakwita ku ubuzima, abaturage b'igihugu cya Sudani bakagira ubuzima bwiza, harimo guca ukubiri no kurwara indwara ziterwa n'umwanda ,ndetse n'izindi ndwara zirimo na kanseri, n'izindi.

Igikundi cy'abantu biganjemo ababyeyi n'abana babo, bari kumwe n'abaganga, aho ubona ko baje gupimisha abana indwara runaka cyangwa kubatera urukingo, ibi ngibi bigafasha abana babo gukura neza ndetse n'umubare w'abana bahitanwa n'indwara ukagabanuka.

Abayobozi b'ibigo nderabuzima cyangwa ibitaro n'abaganga bari kumwe n'abaforomokazi, bari kwifotoza, ku buryo biyemeje kurwanya no kurinda amagara y'abaturage, batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no kurwanya, ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira ubuzima bw'abaturarwanda.

Abayobozi batandukanye basuye abanyeshuri ku ishuri ariko akaba ari abana bakiri batoya biga mu myaka yo hasi muri za materineri, mu mashuri y'incuke, barimo barabagira inama kandi banabazaniye ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri kugira ngo barusheho guteza imbere imibereho y'abana bakiri bato.

abana bakiri batoya b'impinja, bagomba gusuzumishwa inshuro nyinshi n'ababyeyi babo kugira ngo bakurikirane uko ubuzima bwabo bugenda bityo bizabafashe mu mikurire myiza.

Amazi yo mu kiyaga no mu migezi si byiza na gatoya kuyakoresha kuko aba arimo imyanda kandi ashobora kwangiza ubuzima bw'abantu, abaturage bakwiye kubakirwa amavomero bakareka kujya kuvoma mu migezi no mu biyaga kuko bashobora guhura n'ingaruka zikomeye zirimo no kubura ubuzima.

Kandagira ukarabe zifasha abana b'abanyeshuri gukaraba intoki, bakirinda gukwirakwiza imyanda, binyuze mu buryo bwo gusuhuzanya. Ikindi, twagakwiriye kujya tuzubaka ku bwiherero kugira ngo niba umwana avuyeyo, ahite akaba imyanda yose, ntakore ku bikoresho ngo ayisigeho.

Nyuma yuko abaturage bubakiwe amavomero azana amazi meza, basigaye bakora isuku yo ku mubiri bakamesa imyenda yabo, ndetse bagasukura n'ibikoresho byo mu rugo bakoresha aho batuye ku buryo ubona yuko ubuzima bwabo bwateye imbere mu kijyanye n'isuku.

Abana biga mu mashuri abanza banywa amazi meza kandi asukuye, aba afunitse mu macupa ubuyobozi bubagenera kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'umwanda zikunze kwibasira abakiri bato harimo n'impiswi.

Inzego z'umutekano n'abayobozi, baje kuganiriza abaturage no gukora inama, ku gikorwa cyo kubungabunga no kurengera amagara y'abantu, binyuze mu kubashishikariza gukora ibikorwa byiza no kwirinda ibiyobyabwenge.

Amazi yo kunywa ni ubuzima mu byaro hirya no hino abana usanga bagiye kuvoma amazi bifashisha mu ngo zabo, bakora isuku yo ku mubiri ndetse bakanayatekesha cyangwa bakayamekesha imyenda yabo bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro harimo n'abagore bakuze bafite imyaka guhera kuri mirongo itanu kuzamura bakingirwa indwara zitandukanye zishobora kubibasira zirimo na kanseri y'ibere.

Minisitiri ushinzwe ubuzima mu Rwanda dogiteri sabe Nsanzimana mu nama hamwe n'abayobozi batandukanye b'igihugu bari kuganira hamwe ukuntu mu buzima hagumya gushorwamo amafaranga bagafatanya n'abashoramari kugira ngo bateze imbere imibereho y'umunyarwanda.

Abana bato bagomba kujyanwa kwa muganga kubapimisha kugira ngo basuzumwe ndetse bahabwe n'inkingo cyangwa imiti ku ndwara barwaye, kugira ngo turengere ubuzima bwabo cyangwa se batibasirwa n'indwara z'ibyorezo.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, banywa amazi meza ku mashuri aho biga kuko haba hari ibigega bibikwamo amazi ya kano asa neza kugira ngo abana bazajye bayanywa babashe kugira ubuzima bwiza.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda arabisi ni kimwe mu bitanga ubufasha mu kuvura abantu, mu baturage b'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu kubatera inkingo; haba gukingira abana batoya cyangwa gukingira abantu bakuru indwara runaka zishobora kubibasira.

Amariba yagiye yubakwa hirya no hino, aho abaturage baza kuvoma amazi meza, harimo ayo kunywa, ayo batekesha mu ngo zabo, ayo bakoresha isuku yo ku mubiri cyangwa bakayogesha ibyombo, birimo amasahani n'ibiyiko. Ibingibi byateye inkunga cyane n'ikigo kita kikanarengera ubuzima bw'abana kitwa UNICEF.

U Rwanda nta muturage ukijya kuvoma amazi ya ruhurura cyangwaga yo mu biyaga n'imigezi, kuko ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, bugenda bwubaka amariba agezweho azana amazi meza, maze abaturage bakayavoma, bakabasha gukora isuku kandi bakabona n'ayo kunywa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda RBC, gishishikariza buri muntu wese kurwanya indwara ya SIDA, kuko ntaho yagiye igihari, babinyujije mu bikorwa bakora, birimo gukoresha agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kwirinda gusangira ibikoresho na bagenzi bacu, ndetse no kwipimisha inshuro nyinshi.

Kugira ngo abaganga babashe kuvura abarwayi kandi batange ubufasha bubanogeye, nabo baraganira kandi bagafashanya, aho usanga bari kujya inama y'ukuntu bakwihutisha ubufasha baha abarwayi baje babagana.

Abaturage bagiye kwa muganga kwivuza harimo ababyeyi bari kumwe n'abana babo, harimo ab'abagabo bategereje ko bakirwa na ba muganga kugira ngo babashe guhabwa ubuvuzi, ubundi basubire mu rugo batahanye imiti.

Abana batoya bagomba kwigishwa umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo barusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda kuko bakunda kurigata intoki iyo bamaze gukora mu myanda cyangwa mu ivumbi.

Abaturage begerejwe amavomero hafi y'ingo zabo none basigaye bakora isuku cyane, irimo iyo ku myenda bambara, irimo n'iy'umubiri wabo, irimo no koza ibikoresho byo mu rugo birimo amasahani, ibiyiko ndetse n'amajerekani bavomesha amazi.

Inzego z'ubuzima zifatanyije n'abashoramari batandukanye bajya biga kandi bagakemurira hamwe ibijyanye n'ibibazo byibasira ubuzima bw'abantu harimo indwara z'ibyorezo hakabamo n'izandurira mu mibonano mpuzabitsina bagafatira hamwe n'ingamba z'ukuntu babirwanya.

Inama yahuje abaturage hamwe n'abayobozi, hagamijwe kwigira hamwe ikintu icyo ari cyo cyose cyateza imbere imibereho myiza, abaturage bafite amakayi n'amakaramu barimo barandika inama bahabwa n'abayobozi babo cyangwa abajyanama.

Abantu babashije kubona amazi meza yo koga no gu gutekesha, usanga bafite isuku , bambaye imyenda isa neza bityo imibereho yabo ikazamuka, yaba mu buryo bw'imitekerereze myiza ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Abaturage bubakiwe amavomero hafi y'ingo zabo, basigaye bavoma amazi meza, bakoga, bakamesa imyenda yabo, bagakora n'isuku yo mu rugo, ku buryo bavuga yuko nta mwana ukirwara amaga cyangwa amavunja, bakabishimira ubuyobozi bw'igihugu cyabo burushaho kubegereza ibikorwa remezo.

Mu bice by'icyaro hirya no hino mu gihugu, hari ahantu hakigaragara abaturage, bagiye kuvoma amazi mu biyaga no mu migezi, bakajya kuyakoresha cyangwa bakayanywa. Ibi ngibi si byiza kuko byangiza ubuzima bwabo bikabatera n'indwara zirimo n'inzoka zo mu nda. Aba baturage bagakwiriye kubakirwa amavomero azana amazi meza.

Amazi meza yegerejwe abaturage, abafasha kumesa imyenda yabo, gukora isuku yo ku mubiri, koza ibikoresho bakoresha mu ngo birimo amasahane baririraho n'inkono batekeramo.

Abaturage bahawe amazi meza binyuze mu kubakirwa amariba ya kijyambere bavomaho, none bose basigaye bagira isuku, bakamesa imyenda yabo, nta bana bakirwara amaga cyangwa se ngo usange bafite umwanda kuko bahorana isuku.

Abaganga bambaye impuzankano, udupfukamunwa, bari kuvura umurwayi waje abagana kwa muganga, aho bari kumubaza ibimenyetso by'ukuntu yiyumva, na we akababwira, ubundi bakandika mu makaye no mu mashini kugira ngo bamuvure.

Gukaraba intoki ni ibintu bidufasha kurwanya indwara zituruka ku mwanda, ni yo mpamvu abantu bose bakwiye kubaka kandagira ukarabe imbere y'ubwiherero, kugira ngo umuntu uvuyeyo ajye akaraba intoki kandi n'abana bacu tukabibutsa gukaraba intoki kenshi.

Ababyeyi bashishikarizwa kujyana abana babo kwa muganga bakiri bato, kugira ngo bavurwe kandi bakingirwe indwara z'ibyorezo zitandukanye zishobora kwibasira ubuzima bwabo, harimo nk'imbasa n'iseru na arobeor.

Mu bigo by'amashuri aho abana biga, bakunda gukina imikino itandukanye, no gufatanya cyane, ibi ngibi bituma abana bishima, harimo abana bafite ubumuga, harimo abana b'Abanyamahanga, n'abana b'Abanyarwanda, bakabasha gusabana bose bakagira ubuzima bwiza.

Kwita ku buzima bw'abana batoya ni igikorwa gishyigikirwa cyane ndetse kigaterwa inkunga n'abantu bakomeye harimo n'abahanzi bakora umuziki, twavuga nk'uwitwa Israel Mbonyicyambu, umwe mu bantu bateye inkunga guteza imbere imibereho y'abana mu Rwanda.

Abaturage begerejwe amavomero azana amazi meza, none basigaye bayavoma ku buryo butabagoye, kandi n'imibereho yabo yarazamutse kuko basigaye bagira isuku yo ku mubiri, imyambaro bambara ndetse n'iy'ibikoresho bakoresha mu rugo.

Abantu bagomba kunywa amazi meza kugira ngo bagire ubuzima bwiza, nta muturage n'umwe ugomba gukoresha amazi yo mu bidendezi cyangwa mu bizenga kuko aba arimo imyanda myinshi cyane, yaba yaturutse ku mvura iba yaramanuye ayo mazi ikaza ikayaroha mu bidendezi.

Abaturage babonye amavomero rusange ubu basigaye bavoma amazi meza, bakanywa amazi meza, bityo bakarushaho kwimakaza ibikorwa by'isuku birimo kumesa imyenda y'abana babo, gukora isuku yo ku mubiri no koza ibikoresho byo mu rugo. Na bo bavuga yuko batazatenguha Ubuyobozi bw'igihugu mu gufata neza aya mavomero.

Abaturage nyuma yo guhabwa amavomero meza agezweho ya kijyambere, bavuga yuko biteje imbere mu bijyanye no gukora isuku yo ku mubiri no mu ngo aho batuye, aho usanga n'indwara barwaraga zikomoka ku mwanda zaragabanutse.

Gukoresha no kunywa amazi meza ni bimwe mu bifasha abaturage kugira amagara mazima kuko bituma barushaho guhenda indwara ziterwa n'umwanda zirimo iminsisi, za rubaga impande n'izindi ndwara.

Hari abaturage benshi batuye mu bice by'ibyaro, bavoma amazi bayakuye kure, aho bajyana indobo n'ibindi bikoresho, bakajya kuyadaha mu migezi cyangwa mu biyaga, niyo mpamvu basaba ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kubegereza amavomero meza, hafi y'ingo zabo kugira ngo bajye bayifashisha.

Abaturage begerejwe amazi meza none basigaye bayavoma bagakora isuku yo mu ngo, iyo ku mubiri wabo; bakamesa imyenda ku buryo nta ndwara ziterwa n'umwanda zikiboneka mu baturage.

Dogiteri Sabe Nsanzimana, umuyobozi ushinzwe ubuzima mu Rwanda, agaragaza y'uko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ifite intego yo kurandura burundu, indwara ya kanseri, yibasira abarenga magana atandatu mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba yanabahitana.

Ikigo gishinzwe kurengera no guharanira amagara y'umwana unisefu, giteza imbere cyane ubuzima bw'abana bakiri batoya, ndetse n'abangavu ku rwego rw'isi yose binyuze mu kubagenera ubufasha butandukanye, harimo no kubaha ibikoresho bifashisha mu buzima bwabo.

Abagore batwite baba bagomba gusuzumwa ndetse no guhabwa inkingo, zibafasha kwirinda indwara nyinshi kugira ngo harindwe ubuzima bwabo n'ubw'abana batwite, bazabashe kwibaruka abana bafite amagara mazima.

Igiterane cy'abaturage batuye mu muryango mugari baje kwitabira ubukangurambaga n'ubufasha bwa Minisiteri y'Ubuzima, iri gutanga ku baturage, harimo mu kubaha inkingo, kubaha ubujyanama ndetse no kubakingira indwara zirimo n'iz'ibyorezo.

Gukaraba amazi meza n'isabune, biturinda indwara ziterwa n'umwanda. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwubatse amariba menshi, hirya no hino mu baturage kugira ngo bajye bayifashisha, babone amazi yo koga n'ayo gukoresha mu ngo.

Ku bwiherero hakagombye kubakwa kandagira ukarabe kugira ngo umuntu wese uvuye kubukoresha ahite akaraba imyanda yose akuye ku bwiherero kugira ngo ataza kuyisiga mugenzi we binyuze mu kumusuhuza cyangwa gukora ku bikoresho byo mu nzu.

Ikigo gishinzwe guharanira no kurengera ubuzima bw'abana (UNICEF ) ni kimwe mu kigira uruhare rukomeye cyane mu kugenda kigeza amazi, ndetse n'ibindi bikorwaremezo mu bice cyangwa ibihugu byibasiwe n'intambara, kugira ngo abana bagituyemo babeho neza.

Nyuma y'uko abaturage begerejwe amazi hafi y'ingo batuyeho, ntibagikora urugendo rurerure bajya kuvoma cyangwa kumesa imyenda yabo mu kabande no mu biyaga, kuko ubu begerejwe amazi kandi basigaye bimakaza ibikorwa bijyanye n'isuku, bagashimira Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda irushaho kubegereza ibikorwa remezo.

Umuco wo gukaraba intoki ukomeje gutezwa imbere cyane, kwigisha abana bakiri batoya uko bakaraba igihe umuntu avuye ku bwiherero cyangwa se yakoze mu myanda kugira ngo ataza kwirigata intoki.

UNICEF ni ikigo gishinzwe kurengera ubuzima bw'abana bakiri batoya, ku rwego rw'isi yose. Iki kigo gifasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, kibaha inkingo zo kuvura abana, ndetse n'imiti itandukanye, ishobora kuvura abakiri batoya.

Kwita ku bana batoya, ni igikorwa k'ingenzi cyane kuko niwo rubyiruko rw'ejo hazaza, na wo umusingi w'iterambere w'igihugu cyacu, abasitari batandukanye, barimo nka Israel Mbonyi ukaba umuhanzi n'umuramyi ukomeye cyane, ni umwe mu bantu batera inkunga, mu gikorwa cyo kwita ku bana batoya.

Abaturage benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda, begerejwe amazi meza, aho basigaye bajya kuyavoma ntakibazo, bikaba byaragize n'uruhare mu kugabanya indwara zakomokaga ku mwanda, zabonekaga hano mu Rwanda, zirimo nk'amavunja cyangwa kurwara impiswi.

Abantu b'ibyamamare ni bamwe mu bagira uruhare rukomeye cyane mu gutera inkunga imibereho myiza y'abana bakiri bato, mu gihugu cy'u Rwanda umuramyi ukomeye cyane mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza; Isirael Mbonyi; icyambu ni umwe mu bateje imbere kandi bagashora amafaranga yabo mu kwita ku buzima bw'abana batoya b'impinja.

Ikigo gishinzwe kurengera amagara y'abana batoya yunisefo ku rwego rw'isi, gishyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bo mu miryango ikennye babashe kwiga no kubona ibikoresho bitandukanye nko ku bana b'abakobwa bakabaha ibikoresho by'isuku bakoresha mu gihe cyabo cy'imihango.

Igihugu cya Georgia cyo ku mugabane w'i Burayi, na cyo kiri mu cyagize uruhare cyane mu guteza imbere imibereho myiza kuko gifite ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, binyuze mu gutera inkunga ibihugu biri mu nzira y'amajyambere.

Iteraniro ry'abaturage baje kwitabira ubukangurambaga cyangwa amahugurwa ya minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, babahereza inkingo kandi babasuzuma indwara zitandukanye zirimo na virusi itera sida.

Kandagira ukarabe idufasha mu kwimakaza isuku cyane, kubera ko bakunda kuyubaka impande y'ubwiherero, bityo umuntu uwo ari we wese uvuye kubukoresha, akabanza agakaraba imyanda, kugira ngo adahura na mugenzi we akamusuhuza, akabasha kuba yayimusiga mu ntoki.

Umunsi wo kwita ku bana batoya, hano mu Rwanda twarawizihije, hagamijwe guteza imbere umwana w'umukobwa ndetse n'umwana ukiri mutoya, ko bagira ubuzima bwiza ndetse n'uburenganzira bungana imbere y'amategeko.

Girubuzima ni ikigo gishinzwe guteza imbere kandi kikita ku mibereho myiza y'abaturararwanda binyuze mu kubagira inama, no gutanga ubufasha ku miryango itishoboye. Akenshi gikunze gukoresha ubukangurambaga mu baturage cyane cyane mu bice by'ibyaro, hagamijwe kubigisha uko bakwita ku isuku.

Amazi yo mu biyaga no mu bidendezi ni mabi cyane, nta muturage ugomba kuyakoresha. Ariko hirya no hino mu Gihugu haracyagaragara abaturage bo mu bice by'ibyaro bavoma aya mazi bakajya kuyakoresha ku ngo zabo. Ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda bubizeza kubagezaho amazi ku gihe gitoya.

Abana bakiri batoya bashishikarizwa kunywa amazi meza kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kuko abarinda kwibasirwa n'indwara zitandukanye zirimo na diyabete ziterwa no kunywa amasukari menshi bityo ababyeyi babo bagomba kubigira inshingano bakajya babibutsa kunywa amazi.

Abaturuka mu bihugu by'amahanga, ni bamwe mu bantu bagira urukundo cyane, kandi banatanga ubufasha, mu kwita ku bantu batuye mu bihugu bya Afurika, ndetse n'ibindi bihugu byashegeshwe n'intambara. Binyuze mu kigo gishinzwe gufasha abantu, b'abana bakiri bato UNICEF, buri mwana wese bamugenera ibikoresho, ndetse n'ibyo kurya, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu bagomba gukoresha kandi bakanywa amazi meza kugira ngo babashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, zirimo nk'impiswi ndetse na za rubagimpande.

Abagore bagira uruhare mu guteza imbere isuku yo mu rugo n'ubuzima bwiza bw'abana bacu kuko usanga bagiye ku mavomero; kumesa imyenda no gukora isuku y'ibikoresho byo mu rugo bya buri munsi kugira ngo tubeho mu buzima bwiza mu miryango yacu.

Uruziga rw'abantu rwibanzemo abakiri batoya ndetse n'Abanyamahanga n'abayobozi bakuru bavuye muri Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda baje kubaganiriza, hagamijwe kwita ku mibereho myiza, bashishikariza abana kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Aba babayeho mu muryango ukennye nta mafaranga bagira cyangwa ibyo kurya, bakunda kwigunga akenshi bikabaviramo ingeso zitari nziza nko gushaka kwiba cyangwa gukoresha ibiyobyabwenge ku bana bakiri bato yabakuriye muri ubu buzima.

Umuntu ashobora guharanira cyangwa akarengera imibereho y'ubuzima bw'imitekerereze ya muntu, binyuze mu kwiyitaho kandi umuntu wese akishyira akizana bityo tugatera imbere. Ni byiza kandi gukoresha ibiyobyabwenge kuko bibangamira imibereho y'imitekerereze ya muntu.

Umuntu twita umusazi ni umuntu wagize ikibazo cy'imitekerereze aho adatekereza ibikorwa runaka byiza byamugirira akamaro, ahubwo akagenda yambaye ishwabari, ntajya yoga ku mubiri we uhora anuka, ikindi nta gikorwa cy'ingirakamaro yabasha kwitekerereza uretse kurya byonyine.

Abana bavukiye mu muryango ukennye, bakura bigunze ndetse bibaza ibintu byinshi, ibibaviramo kandi bikadindiza imitekerereze yabo myiza, ugasanga bakuze bafite ingeso mbi cyangwa bakishora mu busambanyi, abandi bakaba abajura, ibi ngibi bikadindiza iterambere ry'imibereho myiza y'Abanyarwanda.

Umuntu wagize ikibazo k'imitekerereze asanga yambara imyenda yacipe, ntajya yoga, aba afite impumuro mbi, ikindi arya ibiryo byaboze, ibyo atoraguye ku muhanda cyangwa mu nzira. Abantu rero bakwiriye kwita ku kurengera amagara yabo birinda gukoresha ibiyobyabwenge kuko na byo biri mu bintu bitera ingaruka nko gusara cyangwa kugira imitekerereze itari yo.

Umuntu wahuye n' ikibazo cy'imitekerereze, aba asigaye akora ibikorwa bigayitse kandi ubona yuko bitarimo ubwenge na buke, kuko ashobora no kwiyambura imyenda yose akayivanamo kandi ntagire isoni y'uko abantu bamubona.

Itsinda ry'abayobozi bagize umuryango ushinzwe guharanira no kurwanya akarengane hagati y'ibitsina byombi, ku bagabo n'abagore ndetse ushinzwe no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bose babashe kugira ubuzima bwiza.

Abayobozi bari gukora igikorwa cy'umuganda batera ibiti kugira ngo bizereho imbuto abaturage bazaza bajya, bashishikariza n'abantu n'abaturage bo mu byaro kujya babikora kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza no kuba mu gihugu cyiza.

Ubuyobozi bw'u Rwanda, inzego z'ibanze, bafatanyije n'urubyiruko, bahagurukiye kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, abagore, abagabo, buri muntu wese akarenganurwa kugira ngo tube mu muryango mugari, uharanira uburenganzira bwa buri muntu.

Abantu benshi bakunda kwigunga cyane ariko ibi ngibi babiterwa no guhora mu rusaku ndetse no kwirirwa batongana cyangwa bakoresha telefone cyane ntibamenye kwiyitaho kuko ubwonko bw'umuntu bunanirwa vuba bityo rero bagakwiriye kujya bafata umwanya wo kuruhuka, bakarekera gukoresha telefone cyangwa kureba za televiziyo.

Ihuriro ririmo abayobozi harimo n'urubyiruko ubona yuko bagamije guteza imbere ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma abantu bagira imibereho myiza, iki gikorwa kandi gishyigikiwe n'abanyamahanga barimo abagore bo mu gihugu cy'Ubushinwa ku mugabane w'i Burayi.

Imiryango ibayeho mu buzima bw'ubukene aho usanga badafite amafaranga cyangwa n'ubushobozi buhagije kugeza n'aho kubona ibyo kurya bibagora, ni bamwe mu bantu ubona ko batabayeho neza bakabaho bigunze bishobora kubaviramo no gusara.

Igikorwa cy'ubukangurambaga cyabereye mu baturage, aho abaturage baza bakaganirizwa n'abaganga kandi bagahabwa ubujyanama n'ubuvuzi harimo n'abafite ibibazo by'imitekerereze, abigunze, ibi ngibi bikabasha kugabanya umubare w'abaturage biyahura cyangwa se abasara bakarwara ibisazi.

Ababyeyi bashishikarizwa konsa abana neza, bakabaha igikoma, bakabagaburira ku gihe kandi bakabategurira amafunguro akungahaye ku ntungamubiri kugira ngo abana babo bakure neza, maze bazagire ubuzima bwiza.

Kwita ku bantu bafite ibibazo tubaganiriza, tukabatega amatwi tukabumva ni bimwe mu bintu bibafasha kugarura icyizere mu buzima kuko bibarinda kwigunga cyangwa gutekereza ibintu byinshi bishobora kubaviramo gufata imyanzuro mibi irimo no kwiyahura.

Ikiganiro ku muyobozi yibanda ku bintu bibangamira ubuzima bwo mu mutwe bw'abaturage, harimo nko gukoresha ibiyobyabwenge ndetse ari kungurana ibitekerezo na bagenzi be barebera hamwe ikintu bakora n'ubujyanama batanga mu baturage kugira ngo barusheho kwimakaza ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Urubyiruko rufatanyije n'abayobozi bakuru b'ibigo nderabuzima, ndetse n'ibitaro, basenyeye umugozi umwe mu guhagurukira no kurwanya ibibazo byibasira ubuzima bwo mu mutwe, bw'abantu bakiri batoya, harimo nko gukoresha ibiyobyabwenge.

Kuganiriza abana, kubabwira inkuru zisekeje, kubabwira ukuntu bazajya bubaha ababyeyi no kubatoza ikinyabupfura, ni bimwe mu bintu byo kubafasha kugira imitekerereze myiza no kurinda ubuzima bwabo bwo mu mutwe, kuko batabona undi mwanya wo kujya mu ngeso mbi, zirimo no gukoresha ibiyobyabwenge.

Urubyiruko rufatanyije n'inzego z'ibanze n'abayobozi bakuru, bakunze gukora inama igamije kwibanda mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, binyuze mu kubashishikariza kureka gukoresha ibiyobyabwenge, kuko byangiza ubuzima bwo mu mutwe n'ubw'imitekerereze.

Abakozi ba Minisiteri ishinzwe imibereho myiza mu Rwanda n'ubuzima, ni bamwe mu bantu bazi kwita cyane ku baturage kuko bamanuka bakajya mu biturage byo hasi, bakajya gufasha abagore batwite, abana bakiri batoya, harimo kubagira inama no kubaha amahugurwa kugira ngo nabo bazashishikarize bagenzi babo kurwanya indwara zitandukanye.

Ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda bwita ku bantu bakomoka mu miryango ikennye, binyuze mu kubagenera imfashabere ku babyeyi baba barabyaye abana ariko ugasanga nta bagabo bafite, aho bahabwa igikoma cyo gutekera abana maze bikabashimisha cyane.

Ku mbuga nkoranyambaga hakunze gukorerwa igikorwa cyo gushishikariza abantu bose kwimakaza ubuzima bwiza bwo mu mutwe, twirinda gukoresha ibiyobyabwenge birimo urumogi, itabi, n'inzoga, ibi ngibi binyuzwa ku mbuga zitandukanye harimo urwa Instagram, urwa Twitter, na Facebook.

Hari umunsi wihariwe wagenwe na Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda arabisi wo kwizihiza no kurengera ubuzima bw'imitekerereze yo mu mutwe, aho usanga bagaruka ku ngingo zirimo kubuza abantu gukoresha ibiyobyabwenge.

Abana b'abakobwa bakunze guhura n'ibibazo bikomeye cyane bibugariza, birimo nko gutwara inda zitateganyijwe bagatinya kubibwira ababyeyi babo, niyo mpamvu iyo baganiriye na bagenzi babo cyangwa se abajyanama babasha kubatega amatwi ubundi bakabagira inama z'icyo bakora mu buzima.

Hari umunsi wahariwe wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho abantu baganirizwa kudakoresha ibiyobyabwenge cyangwa ibisindisha, ahubwo bagashishikarizwa, gukora ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri no kuruhuka, babinyujije mu kuryama bagasinzira neza.

Leta y'igihugu cy'u Rwanda ikora igikorwa cyo gushishikariza abaturage mu guharanira kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, babigizemo uruhare aho begera abaturage batuye mu bice by'icyaro, bitwaje ibikoresho baba bajyanye mu modoka zigezweho, ubundi bakabavura kandi bakabaganiriza.

Abakora isuku yo mu kanwa, bagirwa inama yo kudakoresha umuti w'amenyo n'uburoso gusa ahubwo bakagura n'akadodo kuko kabasha kuvanamo imyanda yihadika hagati y'iryinyo n'ishinya, bigatuma ukoresheje ubu buryo, agira impumuro nziza mu kanwa.

Gusukura mu kanwa dukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, ntibihagije ahubwo gukoresha uburyo bw'akadodo, ni igikorwa cy'ingenzi cyane kuko akadodo kabasha gukuramo imyanda, iba yihagitse hagati y'iryinyo n'ishinya ku buryo uburoso butabasha kuyikuramo.

Kurwara iryinyo birababaza cyane. Niyo mpamvu umuntu wese wumva iryinyo rimurya akwiriye kujya kwa muganga kugira ngo bamukurikirane hakiri kare, bitaramuviramo ingaruka zirimo kubyimba amatama cyangwa kugira ubusembwa bwo mu kanwa.

Abayobozi n'abakora mu nzego z'ubuzima, bashishikariza abantu bose kwita ku isuku yo mu kanwa, bahoza inshuro nyinshi bakoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, kandi bakajya kwa muganga no gusuzumisha, kugira ngo batarwara indwara zo mu kanwa zirimo nk'ifumbi, cyangwa bakanuka mu kanwa.

Igisobanuro cy'ibyishimo no kumwenyura, ni ugukora isuku yo mu kanwa, twita ku menyo binyuze mu kuyoza, dukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso cyangwa tugakoresha uburyo bwo gukoresha akadodo.

Gukora isuku yo mu kanwa hakoreshejwe uburyo bw'akadodo, bifasha abantu kugira mu kanwa heza bakagira amenyo akeye, ndetse bagasukura ishinya yabo kuko hari imyanda yihagika hagati y'amenyo n'ishinya, uburoso ntibubashe kuyikuramo.

Gukora isuku yo mu kanwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane kirinda umuntu guhangana n'ingaruka zitandukanye zirimo kwangirika kw'ishinya ye, kwangirika kw'amenyo akavunguka cyangwa kugira impumuro mbi mu kanwa. Abantu bagomba gukoresha umuti wabugenewe n'uburoso ndetse n'amazi meza bagakora isuku yo mu kanwa.

Gusukura amenyo yacu, bidufasha guseka neza, kumwenyura mu ruhame nta kibazo, kutagira impumuro mbi mukanwa kandi tukumva twishimye aho turi hose kubera ko nta pfunwe cyangwa ikimwaro tuba dufite cyo gusekera mu ruhame.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, bugamije gupima amenyo abantu no kubavura indwara zo mu kanwa, ubona ko abaturage bari gutonda umurongo, bajya kwivuza umwe kuri umwe ndetse abafite ibibazo bagahabwa ubuvuzi ku buntu.

Umuntu ukora isuku yo mu kanwa ahorana amenyo akeye y'umweru, ishinya nziza, nta mpumuro mbi agira mu kanwa ke, abantu bose rero bashishikarizwa gukora isuku yo mu kanwa bakoresha akadodo, bagakoresha umuti w'amenyo n'uburozi.

Gukora isuku yo mu kanwa dukoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza kuko birwanya impumuro mbi mu kanwa kandi umuntu akagira amenyo akeye, agahora aseka mu ruhame nta kibazo afite.

Gukoresha uburoso n'umuti wabugenewe, ukoza mu kanwa ndetse wifashishije amazi meza, ni bimwe mu bintu bifasha umuntu kugira amenyo yererana y'umweru kandi adafite imyanda, bityo agaca ukubiri n'indwara zirimo kunuka mu kanwa cyangwa kurwara ifumbi y'amenyo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, uturindantoki, yambaye n'impuzankano, ari kuvura umurwayi iryinyo kubera ko aba afite impumuro itari nziza bigatuma na we atabasha kwandura indwara zo mu kanwa, muganga rero ashobora no kumuha insimburangingo mu gihe asanze iryinyo rye ryarangiritse.

Ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga n'abana batoya basigaye basuzumwa kandi bakanavurwa amenyo, kwa muganga aho babaha n'imiti yo gukoresha kandi bakabaha n'ubujyanama burimo gukoresha akadodo mu gihe bakora isuku yo mu kanwa.

Kwita ku isuku yo mu kanwa, ni ibanga ryo guseka, kumwenyura mu ruhame nta kibazo, kandi umuntu agahorana impumuro nziza, bityo bikamufasha kuganira na bagenzi be mu ruhame, atabanukira cyangwa ngo yumva afite ipfunwe, kubera ko amenyo ye asa nabi, abantu bose rero bagakwiriye gushyira imbaraga mu kwita ku isuku y'amenyo.

Umuntu agomba kujya gusuzumisha amenyo ye inshuro nyinshi cyane kwa muganga kugirango ngo bamurebere niba nta ndwara zo mu kanwa yarwaye cyangwa niba ishinya ye itarangiritse bityo abashe kubaho afite ubuzima bwiza.

Kwita ku isuku yo mu kanwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane buri muntu wese akwiye gukora, cyangwa bakagana ibigo nderabuzima n'amazu yikorera, kuko bagira ibikoresho byabugenewe mu gusukura mu kanwa no kubakura amenyo kugira ngo bitabagiraho ingaruka.

Abantu bashishikarizwa kujya kwa muganga inshuro nyinshi byibuze kabiri mu kwezi, bakajya kogesha amenyo yabo kugira ngo birinde indwara zitandukanye, zirimo kurwara ifumbi y'amenyo cyangwa kunuka mu kanwa.

Gukoresha akadodo igihe ukora isuku yo mu kanwa ni uburyo bw'ingenzi cyane, umuntu agenda agacisha hagati y'amenyo agakuraraho imyanda iba yihisheyo ya yindi uburoso butabasha gukuramo, ibi ngibi kandi bidufasha kugira impumuro nziza mu kanwa no kugira amenyo asa neza.

Kwigisha abakiri batoya gukora isuku yo mu kanwa, bifashishije uburoso n'umuti w'amenyo, ni igikorwa cy'ingenzi cyane. Ibi ngibi bibihera nko ku mashuri abanza bigamo kugira ngo abana babikurane barabigize umuco, bajye bakora isuku no mu rugo, yaba iyo mu kanwa no ku mubiri.

Abantu bose bagomba gukora isuku yo mu kanwa bagasukura amenyo yabo bakoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, kubera ko bidufasha gutuma amenyo yacu akomera kandi bikaturinda indwara zirimo kuvunguka kw'amenyo no kugira impumuro mbi mu kanwa.

Amenyo ashobora kuvurwa cyangwa agasimburwa bikorewe kwa muganga bakakogereza mu kanwa cyangwa bakaguha insimburangingo y'iryinyo ryawe, bashobora kandi no kukugira inama harimo kuguha imiti uzajya ukoresha ukora isuku yo mu kanwa bityo ukabasha kugira impumuro nziza mu kanwa.

Muganga yifashisha ibikoresho bitandukanye harimo n'iby'ikoranabuhanga iyo agiye kuvura umurwayi iryinyo cyangwa agiye kurikura. Ikindi aba agomba kuba yambaye impuzankano, agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Gusukura amenyo yacu ni igikorwa cy'ingenzi ariko tugakoresha uburyo bw'akadodo kuko kabasha gukuramo imyanda iba yagiye hagati y'amenyo yacu, ubundi tugahumeka neza tukirinda n'impumuro mbi mu kanwa kacu.

Gusukura amenyo yacu ni ryo banga ryo guseka neza kuko biturinda kugira impumuro mbi mu kanwa no kurwara indwara zirimo ifumbi y'amenyo cyangwa se kwangirika kw'ishinya ubundi tukagira ubuzima bwiza. Abantu bose rero, bagomba gukora isuku y'amenyo byibuze inshuro ebyiri ku munsi.

Abantu bageze mu za bukuru baba bakeneye umuntu ubitaho kandi akababa hafi, akajya abibutsa gufata imiti akabibutsa kunywa amazi akabibutsa gukora isuku yo ku mubiri n'iy'imyambaro yabo.

Abantu bakuru bakunze gukora imirimo itandukanye irimo ububoshyi, aho baboha ibikoresho birimo agatebo, inkangara, agaseke, ibidasesa, inkoko n'ibindi. Ibi bikaba bibafasha cyane kandi bikabateza imbere, bikabaha n'amafaranga, babifashwamo n'abana babyaye cyangwa imiryango Mpuzamahanga ishinzwe kurengera ubuzima bw'abantu bakuru.

Abaganga ni bamwe mu bantu babyize kandi bakabihugurirwa ku bijyanye no gufasha abantu bakuru yaba abafite ubumuga bwo kutagenda kubera kuba barabuze ingingo zimwe na zimwe z'umubiri wabo, dutanga urugero nk'ukugura, abaganga rero ni abantu b'abahanga cyane, bazi kubaganiriza, abo bantu na bo bakabaho bishimye.

Umuganga uri kwita ku muntu ukuze cyane ubona uri mu kigero cy'imyaka ya mirongo irindwi n'itanu kuzamura, amusomera igitabo amubwira n'inkuru zishimishije ku buryo na we abasha kwishima kandi akagira ubuzima bwiza.

Abakecuru n'abasaza, bari mu kigero cy'imyaka y'izabukuru, guhera kuri mirongo itandatu kuzamura, bamwe mu bantu leta y'u Rwanda yateje imbere, aho usanga bajya no mu nama cyangwa mu birori hirya no hino, bagatanga ibitekerezo, bashimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyabo.

Abaganga bazi gufasha abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye no kubitaho babafasha mu bikorwa birimo gukora imyitozo ngororamubiri, kubagorora ingingo z'umubiri zirimo amaboko n'amaguru, kubaganiriza, kubasomera ibitabo ,no kubaha amafunguro yujuje intungamubiri.

Abantu bakuru biganjemo ab'igitsina gore ni bamwe mu bantu bazi gutanga ubufasha no kwita ku bana bakiri batoya, binyuze mu gukina nabo, kubaganiriza, kubabwira inkuru zibashimisha abana nabo bakabasha kwishima bakagira ubuzima bwiza.

Hari abantu bakuru baba bafite ubumuga burimo nko kutagenda cyangwa kutagira ingingo zose z'umubiri, aba ngaba bakwiriye kujyanwa kwa muganga kugira ngo bajye bitabwaho mu buryo butandukanye harimo nko kubaganiriza, gusangira na bo no kubasomera ibitabo.

Abantu bakuru batagifite intege zo kwiyitaho, bagomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo bajye babitaho, binyuze mu buryo bwo kubaba hafi, kubafasha gufata imiti yabo, kubaganiriza, kubasomera ibitabo, kubigisha ibyuma by'ikoranabuhanga nko gukoresha telefone ndetse no kuboza cyangwa kubakorera isuku yo ku mubiri.

Abantu bakuru batagifite intege zo kwiyitaho mu mubiri, tugomba kubitaho, tubakorera ibikorwa bitandukanye, birimo no kuboza cyangwa kubakorera isuku yo ku mubiri wabo. Kuko usanga barwaye indwara zirimo umubyibuho ukabije, hahandi usanga no kwiyoza batakibishoboye. Abaganga ni bamwe mu bantu bazi kwita ku bantu bakuru.

Abaganga ni abantu bazi kwita ku bandi cyane, kuko usanga bafasha n'abantu bakuru bageze mu myaka y'izabukuru, bakabaganiriza, bakabafasha kugenda igihe bahuye n'ubumuga butandukanye burimo n'ubw'ingingo nk'amaguru, n'amaboko, abantu bose rero bashishikarizwa kujya kwa muganga igihe bageze mu za bukuru, bagafashwa.

Abafite ubumuga bw'ingingo zitandukanye z'umubiri, bagomba kwitabwaho, tubacunga mu tugare bagenderamo, tukabaganiriza, tukabategurira amafunguro y'intungamubiri nabo bakabaho neza.

Abantu b'igitsina gore nabo bakunda gukora imyitozo ngororamubiri mu ngo aho batuye. Ibi babikora bigorora, bagakoresha amaboko yabo n'amaguru, bakagorora ingingo zose z'umubiri kugira ngo birinde umubyibuho ukabije no gufatwa n'amavunane.

Gufatanya hagati y'umugabo n'umugore mu muryango, ni ibintu bigaragaza ibyishimo cyane kuko bituma bagira amasaziro meza, abana babo nabo bakabishimira, niyo mpamvu umugabo wese n'umugore bagomba kwitanaho.

Ubufatanye hagati y'umugabo n'umugore, ni ibintu bizana ibyishimo mu muryango, kandi bakazasaza neza, bitewe n'uko buri wese aba yitaye ku wundi, amufasha mu bikorwa bya buri munsi, birimo kumwoza, birimo kumuganiriza, birimo kumufasha gukora igikorwa runaka harimo nk'imirimo yo mu rugo cyangwa se akamufasha no mu buryo bujyanye n'ubujyanama.

Abantu bakuru bagomba kwitanaho hagati yabo baganira, umwe agafasha undi binyuze mu kumuha nk'ibinini kandi akamutegura n'amafunguro kugira ngo babashe kugira amasaziro meza babeho neza.

Kwita ku bantu bakuru ndetse n'abana hagati yacu mu miryango, ni ibintu bidufasha cyane mu kongera ibyishimo by'umuryango kandi n'abantu bagasabana, bityo bikagabanya ibibazo birimo kwigunga ndetse no guheranwa n'agahinda.

Umuryango mwiza ubanye mu mahoro abana, abakazana, umugore n'umugabo batekanye baganira bajya inama, ni bimwe mu bibafasha kugira amasaziro meza kandi n'umuryango wabo ugakora wumvikana ukazagira ejo hazaza heza.

Gutanga imitiwi ku bantu bakuru barwaye indwara runaka zirimo za diyabete n'umubyibuho ukabije, ni igikorwa cy'ingenzi cyane cyo kubafasha kugira ubuzima bwiza kugirango nabo bakire ubundi dufatanye mu nzira y'iterambere.

Abantu bari mu kigero cy'imyaka ya mirongo itanu kuzamura, nabo bari kugenda bamenya akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, aho usanga abakecuru n'abasaza basigaye nabo bakora iki gikorwa, kugira ngo birinde indwara zirimo kugira umuvuduko w'amaraso, ndetse n'umubyibuho ukabije.

Umuganga agomba gufasha umuntu mukuru uko bakoresha umuti akamubwira n'amasaha bawunyweraho, kubera ko abantu bakuze akenshi ibi ntago baba babisobanukiwe. N'ubwo biba byanditse ku icupa umuganga yahaye umurwayi ariko abantu bakuru hari n'igihe usanga batazi gusoma aya mabwiriza bikaba ngombwa y'uko abimubwira uko azajya abikoresha.

Umuganga ugiye gufata umurwayi amaraso arabanza akamuhambira agatambaro ku maboko agakanyaga cyane kugira ngo imitsi yirengege, abashe kubona ukuntu ari bumujombe mu mutsi amuvume amaraso, ajye kuyapima amenye indwara arwaye ubundi aze kumwandikira imiti yo kwivura.

Umuco wo gusoma igitabo, ni ikintu gifasha umuntu uwo ari we wese, kugira imitekerereze myiza, mu bihugu byateye imbere, mu gihe umuntu ntacyo ari gukora usanga bari kwisomera igitabo, kuko bamaze kumenya yuko gusoma ibitabo bifasha umuntu kuruhuka, bitewe n'inkuru zisekeje cyangwa zishimishije baba basomye muri ibyo bitabo.

Abantu bakuze bagomba kujyanwa kwa muganga bakitabwaho binyuze mu kubagira inama, gusangira nabo, gukina imikino nabo, kubibutsa kunywa ibinini byabo, kubategurira amafunguro akungahaye ku ntungamubiri ndetse no kubasomera ibitabo.

Abantu bakuze bagomba kwitabwaho bigishwa imirimo itandukanye irimo ubudozi cyangwa gukora ibikoresho by'ubukorikori kandi bakigishwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo no gukoresha terefone ngendanwa.

Abantu bakuze na bo bakwiye gukora imyitozo ngororamubiri babifashijwemo n'abaganga, babereka uko barambura ingingo z'umubiri, zirimo nk'amaguru, amaboko, kandi bakabafasha no gukora icyo gikorwa.

Abaganga b'igitsina gore, ni bamwe mu bantu bazi kwita ku bantu, harimo n'abakuru bagize imvune, aho babigisha kugenda bakoresheje ibikoresho dusanga kwa muganga, akajya amubwira nti bigenze gutya amwerekera nyine, umurwayi akabasha gukira vuba.

Gufasha abantu bakuze tukabaha amafunguro, tukabaha n'amazi yo kunywa, tukabaganiriza kandi tukabibutsa kuryama bakaruhuka, ni bimwe mu bintu bibafasha kugira amasaziro meza.

Umugabo n'umugore bagomba kuganira bagasabana kandi bagafashanya kugira ngo bose babashe kugira ubuzima bwiza, bityo ntibagire amasaziro mabi bitewe no kwigunga cyangwa guheranwa n'agahinda.

Kwita ku bantu bakuru tubaganiriza, dukina imikino itandukanye ni bimwe mu bibafasha kubanezeza bigatuma batabona umwanya wo kwigunga no gutekereza ibintu byinshi bishobora kubaviramo gusaza nabi, ariko iyo tubegereye tukaganira nabo tugakina n'imikino bituma bibagirwa ibibazo banyuzemo.

Abageze mu zabukuru usanga nta bana bato bagira bo kubafasha imirimo itandukanye, irimo nko kubazanira amazi cyangwa kubatahiriza inkwi, ni yo mpamvu leta yagakwiriye kubafasha ikabatuza ahantu heza habugenewe kugira ngo nabo babashe kugira ubuzima bwiza kandi biteza imbere.

Abafite ubumuga bw'ingingo runaka z'umubiri, harimo nk'amaguru n'amaboko bahuye n'ikibazo cyo kutagenda usanga bitabwaho bikomeye cyane n'abaganga aho baba barwariye ku bigo nderabuzima, kuko babaganiriza kandi bakanabafasha gukina imikino kandi bakanabategurira amafunguro yo kurya.

Abakecuru n'abasaza bari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi kuzamura, ni bamwe mu bitaweho n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda kuko na bo bahawe ijambo, uyu munsi wa none mu nama hirya no hino mu gihugu, bafata ijambo kandi bakageza ibitekerezo byabo ku bayobozi b'igihugu kugira ngo na bo bagire uruhare mu iterambere.

Mu ngo zacu aho dutuye tugomba kwita ku bantu bakuru, tubategurira amafunguro arimo intungamubiri, tubaganiriza tubasomera ibitabo tukabereka ko tubitayeho ntibabashe guheranwa n'agahinda tubafasha kubaho neza bafite ubuzima bwiza.

Mu miryango yacu dukomokamo umugore n'umugabo bagomba gufashanya mu bikorwa byose kuko hari igihe usanga umwe agifite imbaraga nkeya, bikaba ngombwa yuko undi azajya amufasha, yaba mu kumugaburira, kumwoza kugira ngo abashe kugira amasaziro meza.

Abantu bakuze bakunze kujyanwa kwa muganga, kugira ngo bajye gusazirayo, bitabwaho n'abaganga, ababyigiye kandi babisobanukiwe, bakajya babibutsa kunywa imiti yabo, bakabaganiriza, bakabasomera n'ibitabo.

Abantu bakuru bageze mu myaka y'ubusaza bagomba kwitabwaho bahabwa imiti yo kunywa, baganirizwa kandi tukabafasha no gukora isuku, harimo iyo ku mubiri ubundi tukabasomerara ibitabo ndetse tukabajyana no kwa muganga bakajya gusazirayo.

Gukaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune, gukoresha inkokora igihe turi kwitsamura ntidushyireho ibiganza byacu, gusuhuzanya dushyizemo intera, kurya ibiryo bikungahaye mu kongera intungamubiri harimo imbuto n'imboga ni bimwe mu bintu bidufasha kugira ubuzima bwiza.

Urubyiruko rufatanyije n'inzego z'Ubuyobozi, ntibahwema mu gushishikariza abantu kwirinda indwara ya kanseri y'ibere, aho bagenda mu muhanda bafite ibitambaro byanditseho amagambo agira ati:"Twirinde indwara ya kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira." Ahanini bari kugira inama abagore n'abakobwa.

Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Sabin Nsanzimana, yifatanyije n'abandi bayobozi biyemeje kurwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira ubuzima bwiza bw'abaturage, kandi batanga ubujyanama n'ubufasha bugamije gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Kwita ku buzima bwiza byagakwiriye kugirwamo uruhare na buri muntu wese, yaba Leta ndetse n'abashoramari, batanga amafaranga yabo mu gushyigikira ubuzima bw'abaturage bw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ariko si ubufasha bw'amafaranga gusa uretse ko n'ibitekerezo bifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda yahagurukiye kurwanya ikurwamo ry'inda ku bana b'abakobwa kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi byari bikomeje kwiyongera cyane bitewe n'abasore babatera inda bagahita bagenda batabafashije. Ni yo mpamvu ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyizeho ingamba zo gufasha abangavu baterwa inda.

Kwita ku isuku ni ingenzi cyane no gusigasira amagara y'abantu, igihugu cy'u Rwanda cyakoze inama mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kane, gitumira abayobozi batandukanye, hagamijwe kureba ibintu byateza imbere isuku ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.

Igihugu cy'u Rwanda gifite intego y'uko buri muturage wese agomba kugira ubuzima bwiza, ibi ngibi bigaragazwa n'Ikigo cyashinzwe Healthy People Rwanda mu magambo y'abanyamahanga aho kimakaza kandi kigateza imbere ubuzima bwa buri muturage uwo ari we wese, guhera mu mudugudu aho batuye kuzamuka ukagera ku rwego rw'intara n'urwego rw'Igihugu.

Umugore w'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame Madamu Jeannette Kagame, ni umwe mu bantu batera imbere kandi akita ku buzima bw'imitekerereze n'ubwo mu mutwe bw'abaturarwanda, harimo nko gufasha abaturarwanda kubaha ubujyanama ariko bujyana n'ibikoresho runaka bahabwa ndetse n'inyunganizi mu buryo bwo kwivuza.

Ikigega Mpuzamahanga cyongereye amasezerano mu rwego rwo gushyigikira no guteza imbere abatuye Isi ndetse no mu kubafasha mu bikorwa, birimo kwirinda indwara nka virusi itera SIDA, indwara z'Igituntu, Malariya n'izindi zibasira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere

Hari umunsi mpuzamahanga wizihizwa ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda, bikaba biheruka kuba mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho wahariwe mu kwizihiza no kurwanya abantu bangiza ibidukikije.

Hari abaturage bakunze kwibasirwa n'indwara yo kugira ibiheri byinshi ku mubiri imeze nk'ubushita bw'inkende, aho basabwa kujya kwa muganga bagasuzumwa kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bwabo ibintu bicyoroshye, bitabaviramo ingaruka zikomeye cyane.

Hari umunsi w'abagore wagenwe wo kwirinda indwara ya kanseri y'ibere, aho yizihizwa mu bihugu bitandukanye by'Isi hanashishikarizwa abantu b'igitsina gore kwikingiza kanseri y'ibere, kugira ngo itaba yabagiraho ingaruka zirimo n'urupfu mu buzima bwabo.

Abaturage bagiye kwa muganga, bari kwitabwaho n'ababyigiye babahereza ibinini babaterana n'urushinge kugira ngo babafate amaraso bajye kuyasuzuma kandi babaha n'ubujyanama bw'ukuntu bazaza bakoresha iyo miti bakabasha gukira vuba.

Ubufatanye hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse n'abaturage, ni byo byabafashije mu kurwanya indwara y'icyorezo cya korona cyibasiye ibihugu by'Isi, guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Abayobozi n'abaterankunga biyemeje kurwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira imibereho myiza y'abaturage, harimo nko gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se kuzana ingengabitekerezo zigamije gutuma umuntu atagira uburenganzira bungana n'ubwu undi hagati y'ibitsina byombi, igitsina gore n'igitsina gabo.

Indwara ya Kanseri ni imwe mu ndwara zahagurukiwe kandi zikaba ziri kurwanywa hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo zidakomeza guhitana ubuzima bw'abaturarwanda, harimo nko kurya ibiryo bidafite isukari nyinshi cyangwa birimo umunyu mwinshi, ibi ni bimwe mu bintu byadufasha kurwanya indwara ya Kanseri.

Inama yahuje abayobozi batandukanye kandi igaterwa inkunga n'ibigo bitandukanye, birimo UNAIDS, birimo GILEAD bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abagore, abana ndetse n'abantu bose muri rusange.

Abagore ni bamwe mu bakingirwa indwara zitandukanye kwa muganga, zirimo nka kanseri y'ibere kugira ngo batazanduza n'abana bazabyara cyangwa bikabaviramo urupfu nko kuba batuma n'abana babyaye basigara ari imfubyi.

Itsinda ry'abaganga bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa, bagiye kubaga abarwayi ariko bahagaze ukwabo, bari kwifotoza, aba ngaba rero nibo bafasha abarwayi kubabaga kugira ngo bongere bateranye ingingo z'umubiri wabo.

Hari umu waje kurwanya indwara ya diyabete yiganje mu kwibasira abaturage batari bakeya kubera ko baba bakoresheje ibiribwa bifite isukari nyinshi cyangwa ibiryo birimo umunyu mwinshi. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ishishikariza abantu gukoresha ibiribwa bitarimo umunyu mwinshi akirinda no kurya amasukari kugira ngo atarwara diyabete.

Hari icyorezo cy'ubushita bw'inkende giherutse gutera mu Rwanda ariko cyahise kibonerwa urukingo, kuko abaturage bose bari barwaye indwara bahise bavurwa bagakira, ubugubu yararandutse burundu ntayikigaragara mu gihugu cy'u Rwanda.

Ku bigo nderabuzima uhasanga abarinzi babugenewe bagomba gusaka abinjirana n'abasohoka kugira ngo barebe niba nta bitwaro baba bitwaje kugira ngo umutekano w'ibitaro ube wizewe.

Kwa muganga mu byumba usangamo ibikoresho bishinzwe gufasha abantu bakora imyitozo ngororamubiri, birimo imigozi yo gusimbuka, n'ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kwiruka umuntu atavuye ahari, aho bikoreshwa n'abarwayi bagiye kwa muganga, ku kiguzi cy'ubuntu kuko ubusanzwe abantu bakora imyitozo ngororamubiri babyishyura mu mazu y'igenga.

Kwa muganga mu nyubako tuhatanga isuku ihagije, tukahasanga n'ibyumba bikeye byiza, tukahasanga n'amatara ashobora kwifashishwa mu masaha ya ninjoro igihe umuganga agiye kuvura umurwayi kugira ngo abashe kuba amwitegereza anamubona neza.

Umubyeyi wese utwite agomba kujya kwa muganga akaba ariho abyarira, kugira ngo ubuzima bwe bukurikiranwe n'abaganga n'inzobere, bityo bitamuviramo ibibazo bikomeye, birimo no kuba yabura ubuzima cyangwa se umwana atwite nawe we akavuka atujuje ibisabwa.

Ububiko babikamo imiti kwa muganga buba bwubatse ahantu hejuru, imiti ikabikwa yo ku buryo idahura n'ubukonje cyangwa ngo ihure n'ubushyuhe bwinshi, ikindi haba hari ibipande buri muti wabyo ubarizwamo ubundi muganga bikamworohera kuwuhiga cyangwa kuwuha abarwayi.

Ku kigonderabuzima uhasanga inyubako nyinshi ariko zitatanye zimwe zubatse hakurya izindi hakuno kuko hari abarwayi bisuzumishiriza, haka aho abarwayi bafatira imiti, hakaba inzu z'ababyeyi babyariramo, hakaba n'inzu z'ubuyobozi bw'abayobora ibitaro.

Ababyeyi bagiye kubyara bagomba kugira inzu yabo yabugenewe yubatswe ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro babyariramo, ni muri urwo rwego kwa muganga tuhasanga iyi nzu iba yarubatswe ku nkunga ya Leta y'Igihugu, ku buryo buri mubyeyi wese abasha kugira agaciro kandi akabyara neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda iyo hubatswe ibitaro cyangwa ibigo nderabuzima; abayobozi bakuru bafatanyije n'inzego z'ibanze bakora umuhango wo kubitaha; kugira ngo bamurike ku mugaragaro, icyo gikorwa bityo abaturage batangire gukoresha iyo nyubako bahabwe ubufasha.

Mu karere ka Kicukiro, i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ni hamwe muhasangwa amazu menshi y'abantu bigenga acuruza imiti ivura abantu, kuko aba yarabiherewe uburenganzira n'ikigo gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda.

Ibitaro byubatse hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ni byo bifasha abaturarwanda, kuvurwa indwara baba bafite zitandukanye zirimo, inzoka zo mu nda, amahumane, indwara z'amenyo, cyangwa indwara zibasira amaso.

Inyubako zo kwa muganga ni ahantu haba isuku cyane kubera ko bagirana n'abakozi babugenewe, bashinzwe kuhasukura kandi babihemberwa. Ibi ngibi babikora inshuro nyinshi mu munsi byibuze nk'inshuro eshatu: Mu gitondo, saa sita na nimugoroba, bityo bikorohereza abantu bahivuriza, kubona hasa neza kandi bakahishimira.

Kwa muganga tuhasanga ibitanda abarwayi baryamamo mu gihe bagiye kuvurwa cyangwa se bakabiruhukiramo, ibi ngibi biryamaho wa murwayi urwaye cyane uba ukeneye n'amaraso, kuberako aba yegeranye n'imashini zishobora gucomekwaho imiti ya serumu ikamuha amaraso ikamwongerera ubuzima.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye harimo n'ibitanda n'intebe za kijyambere zigezweho ndetse na kandagira ukarabe, yifashishwa n'umurwayi kugira ngo akore isuku yo ku ntoki, hakaba n'impapuro hejuru yaho zo kwihanagura igihe amaze gukaraba.

Kwa muganga hari ibyumba dusangamo ibikoresho byo kwifashisha mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo nk'ibyuma byo guterura ndetse n'ahantu hisanzuye, abantu bashobora gukorera imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza no kugorora ingingo z'umubiri wabo.

Ibitaro n'ibigo nderabuzima bigenda byubakwa hakurikijwe uburyo bwa kijyambere; zikubakwa hakoreshejwe amazu ageretse, aho usanga afite inyubako hasi no hejuru, hose hakoreramo abaganga bashinzwe kwita ku barwayi.

Abaganga bakunze gufata ukuboko kw'abarwayi babo, bakagukoza ku musaya kugira ngo bumve ni ba bari guhinda umuriro; maze babahindurire imiti bari kubaha cyangwa inshinge bari kubatera.

Inzu y'ababyeyi dusanga kwa muganga, ni inzu abagore babyariramo iyo batwite, ndetse tukayisangamo n'ibikoresho byose bihagije, umugore ashobora gukenera kugira ngo abyare neza, kandi azasubire mu rugo afite imbaraga ameze neza.

Umutekano wo ku bigo nderabuzima n'ibitaro usanga ukomeye cyane kubera ko haba bariyeri zitangira imodoka zihinjira. Buri muntu wese uhajya agomba kuba afite ibyangombwa n'impamvu zihamuzanye kandi agasakwa kugira ngo harebwe ko nta bisasu biturika yaba yitwaje, byashyira ubuzima bw'abarwayi mu kangaratete.

Kwa muganga tuhasanga ibitanda byinshi ndetse n'inzitiramibu hejuru ya buri gitanda, ibi ngibi byifashishwa n'abarwayi, igihe babaye benshi kwa muganga, bikaba ngombwa y'uko babacumbikira kugira ngo bajye babitaho badakoze urugendo ruva kure.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, bikaba bizwiho cyane kuvura indwara harimo iz'amaso kuko buri muntu wese ufite amaso atabona neza, akubwira ati nzajya kwivuriza i Kabgayi, bafite abaganga b'impuguke bazi gufasha abarwayi ku bijyanye no kubavura amaso.

Mbere y'uko umuganga avura umurwayi, iyo ashaka kumufata amaraso arabanza akamuzirika agatambaro kugira ngo umutsi wirenge, ugaragare ubundi azane urushinge abashe kurumutera mu mutsi ashaka ubundi amufata amaraso, ajye kuyasuzuma abashe kumenya indwara arwaye.

Kwa muganga haba imashini zitandukanye z'ikoranabuhanga rifasha abaganga kuvura abarwayi, ariko hakaba n'intebe bicaramo igihe bari gufasha abarwayi. Muri izi mashini twavuga nk'izipima umuvuduko w'amaraso w'umuntu cyangwa izibasha kureba mu bwonko ,imbere mu mubiri w'umuntu.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge mu mugi wa Kigali, byubatse ku buso bunini cyane kandi mu nyubako yabyo hateyemo n'ubusitani, harimo ibiti bitanga umwuka mwiza abaturage bahumeka kandi bifite intego yo kugabanya abaturage bahitanwa n'indwara zirimo nka Malariya n'izindi.

Inyubako z'ubuvuzi mu gihugu cyacu zigenda zitezwa imbere cyane, aho usanga nazo zisigaye zubakwa ku buryo bw'amagorofa agerekeranye kandi hagashyirwa n'ubusitani bwiza, ibi ngibi bigaragaza ko Leta y'u Rwanda yitaye ku mibereho myiza kandi ko iri guteza imbere ubuvuzi ku baturage no mu gihugu cy'u Rwanda.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro, bikomeje kugenda byitabwaho kuko hasigaye hubakwa inyubako nziza kandi z'amagorofa, zigerekeranyije byibuze nk'inshuro eshatu cyangwa eshanu, usanga byarahariwe gukorerwamo ubushakashatsi no kuvura abaturage barwaye indwara zitandukanye, ibi kandi biba byakozwe kugira ngo tugabanye umubare w'abaturage bahitanwa n'indwara zirimo marariya, n'izindi.

Mu nyubako imbere kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye, harimo n'ibyifashishwa mu gukora siporo, abantu baterura ibyuma kugira ngo birinde umubyibuho ukabije kandi bahore bafite umubiri ukomeye, birinde kugira iminkanyari n'imitsi ku ruhu rwabo.

Ibitaro cyangwa ibigo nderabuzima birushaho kwiyongera umunsi ku wundi kandi bikubakwa hakurikijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa kijyambere dore ko nabyo bisigaye byubakwa ku mazu y'amagorofa ageretse.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe giherereye mu karere ka Nyagatare mu Ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, kikaba kigira uruhare rukomeye cyane mu kuvura abaturage indwara bakomoka mu mirenge, irimo uwa Tabagwe ndetse n'umurenge wa Nyagatare.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo imashini bacomekaho ku muririro w'amashanyarazi ariko tukahasanga n'izagenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, ku buryo iramutse yibasiye ibitaro, ubuzima bw'abaturage bwahita butabarwa, ku buryo bwihuse.

Kwa muganga tuhasanga ibyicundo abana bakiniramo mu gihe bajyanye n'ababyeyi babo kwa muganga kwivuza kugira ngo amasaha atabarambira, ubundi bakaba bari kuhakina, ikindi tuhasanga ubusitani kandi ibigo nderabuzima biba byubakiye.

Kwa muganga bimwe mu bikoresho tuhasanga, harimo n'amateleviziyo manini cyane abaganga babasha kureberamo umurwayi, mu gihe batari kumwe na we, hari n'ibindi bikoresho babaryamishamo kugira ngo babage, ibi byose byoroshya akazi kandi byerekana ko ubuvuzi bwateye imbere.

Ibitanda byiza dusanga kwa muganga n'intebe zigezweho n'ibikoresho byo kureberaho amashusho, ni bimwe mu bintu byiza ushobora gufasha umurwayi kumva aruhutse igihe yara ari kwa muganga utegereza ubufasha cyangwa aharwariye bityo akazataha yarakize kandi yishimye.

Kwa muganga hari icyumba kirimo ibirahure bitabona, kikaba gikorerwamo ububazi bw'abarwayi barwaye inyama zo mu nda cyangwa se bakaba baravunitse ibice bimwe na bimwe n'umubiri wabo.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro bigenda bitezwa imbere cyane ku buryo biba bifite inyubako nziza kandi nshyashya ubona ko ziteye amarange zibengerana. Ibi bisobanura ko ireme ry'ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda ryateye imbere kurusha no mu bihugu bimwe na bimwe by'amahanga.

Mbere y'uko umuganga avura umurwayi abanza kumuganiriza kugira ngo yumve ibimenyetso by'indwara yaba arwaye ubundi akamusuzuma akabona kumuha imiti imuvura indwara bitewe n'uko umurwayi aba yamuganirije akamubwira ibimenyetso by'ukuntu yiyumva.

Kwa muganga mu nyubako imbere dusangamo ibyumba byubatse neza, hejuru ya buri cyumba haba handitseho inomero ndetse n'amagambo y'ubufasha butangirwamo ku buryo byorohera umurwayi kumenya ahari buge kwivuriza.

Umunsi ku munsi amazu acuruza imiti ivura abantu agenda yiyongera. Yaba ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro cyangwa se amazu y'abigenga ku giti cyabo acuruza imiti ivura abantu, ariko abanza kubiherwa uburenganzira n'ikigo gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, cyubatse ku buso bunini kandi kizengurutswe n'ubusitani bugizwe n'indabo ziconze neza, iki kigo nderabuzima gihorana isuku kandi gifite umuriro w'amashanyarazi ukomoka ku mirasire y'izuba ku buryo byorohera abantu bahivuriza kubona ubufasha.

Inzu yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi no kubikwamo imiti ivura abaturage, mu gihe barwaye indwara runaka. Iyi nzu kandi bishobora no kubikwamo udusimba cyangwa udukoko bishobora gukorerwaho ubushakashatsi, twavuga urugero nk'imbeba, hari igihe abaganga bayifashisha mu kuyibaga kugira ngo barebe ibice biyigize, ubundi bajye babigenderaho mu gihe bagiye kuvura n'umuntu.

Hari abarwayi bajya kwivuza kwa muganga barembye cyane bikaba ngombwa yuko bacumbikirwayo, kuko haba ibitanda bitandukanye kandi bihagije abarwayi bashobora kuryamaho ubundi bakavurwa bibera kwa muganga.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, hakabamo n'imashini za kijyambere zigezweho ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho kugira ngo bavurwe cyangwa ibyuma by'ikoranabuhanga bibashe kubapima.

Abana batoya bakunze kujyanwa kwa muganga kubapimisha ku munzani kugira ngo barebe ibiro bafite uko bihagaze, ubundi ababyeyi babo barushe kubitaho babagaburira ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri.

Mu inyubako kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda bigezweho bya kijyambere na kandagira ukarabe zo gukarabiho imyanda ikoreshwa na muganga mu gihe amaze kuvura umurwayi.

Abasirikare bacunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu, na bo bagira ibitaro byabo byihariye bivurizamo ndetse akenshi bikunze no kuba bitanga ubufasha ndetse binazwiho kuvura indwara zananiranye, nko kubaga amaso cyangwa ibindi bice by'umubiri.

Kwa muganga tugasanga icyumba cyahariwemo gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, haba habitsemo ibyuma abantu bashobora guterura kugira ngo babashe kugira umubyibuho uringaniye kandi bashe kubira ibyuya bityo imyanda isohoke mu mubiri.

Abaganga ni abantu bishimira cyane akazi bakora kandi bahora biteguye gufasha abaturage kugira ngo bakire vuba. Twavuga nk'abaganga bavura amenyo, abaganga bashinzwe kubaga abarwayi bahora bavuga y'uko bakunda umwuga bakora kandi bakunda gutabara ubuzima bw'abaturage.

Kwa muganga haba inyubako zabugenewe, zishinzwe gukorerwamo ubushakashatsi bwo kuvura indwara runaka yibasira abaturage, aho bajyanamo amaraso yanduye bakuye mu abaturage bakayapima ngo barebe ikintu cyaba cyabiteye.

Ku bigo nderabuzima n'ibitaro uhasanga inzu yihariye y'ababyeyi n'imppinja yagenewe yuko bazajya bayibyariramo mu igihe bagiye kwa muganga batwi. niyo mpamvu ubuyobozi bw'Urwanda bushishikariza buri mubyeyi wese kubyarira kwa muganga kugira ngo akurikiranwe kandi yitabweho.

Kwa muganga dusangaho ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zigezweho za kijyambere nezaz imashini za mudasobwa ibi byose bifasha umuganga mu kuvura abarwayi babagariye ibitaro. Kugirango ngo babashe gukurikiranwa bityo bavurwe bakire.

Mu imbere mu byumba byo kwa muganga, habamo intebe ababarwayi bategerezamo muganga. Ariko na none ku nkuta haba hari ibishushanyo bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kwigisha no gushishikariza abantu kwirinda indwara runaka, twavuga nk'ibishushanyo byerekana uko ijisho ryandura n'ukuntu umuntu akwiriye kuririnda.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo amamashini n'ibindi byifashishwa mu gupima abarwayi, bikindi tuhasanga n'intebe umuntu ashobora kwicaramo akaruhuka, igihe ategereje yuko bamuha ubufasha cyangwa ubuvuzi.

Inyubako z'ibigo nderabuzima n'ibitaro byo kwa muganga zikomeje kugenda zitezwa imbere kuko usanga zubatse neza, ziteye amarangi kandi zifite ubusitani bukoreye neza, hateyemo n'ibiti byo gutanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Buri gitanda cyose kiba kwa muganga, hejuru yacyo haba hamanitse inzitiramibu, kugira ngo hatagira udukoko cyangwa imibu irya umurwayi uharwariye, bityo akaba yarwara indwara zitandukanye zirimo na Malariya.

Ikigo nderabuzima kiba cyubatse ahantu hisanzuye kandi hateyemo n'ubusitani ku buryo hagaragara neza, bigatangwa n'umwuka mwiza abantu bahumeka kubera ko ba hateye ibiti binini, tuhasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo ibigaragaza amashusho abaturage bareberaho mu gihe bategereje ko bahabwa ubuvuzi.

Umubyeyi uryamye kwa muganga ku gitanda yegeranye n'imashini z'ikoranabuhanga umuganga agiye kwifashisha amuvura, ubona ko ashobora kuba yagiye kubyara cyangwa se akaba agiye kubagwa inyama zimwe zo mu nda ashobora kuba arwaye.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe za kijyambere abarwayi baryamamo, imashini zigezweho z'ikoranabuhanga, isaha yerekana igihe aho kigeze, ameza ndetse n'akandagira ukarabe zo gukarabiramo intoki.

Kwa muganga dusangayo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo n'imashini zibasha gupima amaso y'umuntu cyangwa se zikifashishwa zibaga amaso, muri iki gihe abantu benshi bakunze kurwara amaso kubera gukoresha za telefone, kubera no kugenda ntibaryame bihagije bityo rero basigaye bakenera ubuvuzi bw'amaso cyangwa kubagwa amazi.

Bumwe mu buryo butuma abaturage bahabwa ubufasha ku buryo bwihuse igihe bagiye kwa muganga kwivuza harimo no gukoresha imirongo, aho abaturage batonda bahereye ku muntu waje mbere kugeza kuwaje nyuma kugira ngo hatagira umuntu utanga undi cyakoze iyo hari umuntu ufite ubumuga biba ngombwa yuko bamubanza kugira ngo yitabweho.

Kwa muganga haba imashini z'ikoranabuhanga zitandukanye, ndetse n'ibitanda bigezweho umurwayi aryamaho, maze imashini zikabasha kumupima, ibice by'imbere mu mutwe cyangwa mu nda, mbere yo kumubaga.

Ibigonderabuzima n'ibitaro bikomeje gutezwa imbere cyane, kuko hagenda hubakwa inyubako nyinshi kandi zigamije no gukorerwamo ubushakashatsi bwo kurwanya indwara runaka zibasira abaturage, izindi zikifashishwa n'abaturage mu gihe baje kwivuza.

Ku kigo nderabuzima no ku bitaro, hakora abaganga batandukanye yaba ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bashinzwe gufasha abarwayi batandukanye, abaganga b'igitsina gore bakunze gufasha bagenzi babo baje kubyarira kwa muganga igihe batwite.

Kwa muganga twahasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde kugira umubyibuho ukabije kandi abashe gusohora imyanda mu mubiri we binyuze mu kubira icyuya igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri aterura nk'ibyuma.

Kwa muganga hari ibitanda biba bishashe neza, umurwayi aryamaho kugira ngo bamuvure, icyo gitanda kiba kiri hagati y'imashini z'ikoranabuhanga zabugenewe kumuvura no kumupima indwara arwaye.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo icyumba cyagenewe kuganirirwamo, aho kibamo intebe nziza zigezweho z'ikoranabuhanga, mudasobwa zo gushakiramo amakuru ndetse n'utubati two kubikamo ibitabo byo gusoma.

Mu nyubako kwa muganga dusangamo ibitanda bitandukanye birenga nka cumi na bitanu, bishinzwe kuryamaho n'abarwayi kugira ngo babongerere amaraso cyangwa ngo babatere serumu mu mubiri, kuko hari abo usanga batagifite imbaraga.

Kwa muganga tuhasanga abaforomokazi, bakaba abagore b'intoranywa bigishijwe ibijyanye no kuvura no gufasha abagore bagenzi babo kubyara. Aba bagore rero bakora kwa muganga, umunsi ku wundi kandi bafite uruhare rukomeye cyane mu kuvura abarwayi.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo, amamashini yabugenewe ashobora gupima abarwaye indwara runaka cyangwa se tukayabikamo amakuru y'abarwayi, harimo ibindi bikoresho birimo nk'intebe zigezweho umurwayi aryamamo cyangwa ibitanda bishobora kwifashishwa umurwayi akabiryamaho igihe ari kuruhuka.

Kwa muganga naho haba icyumba cyo kuganiriramo cyangwa gukoreramo inama, hagati y'abayobozi b'ibitaro n'abaganga, barebera hamwe ukuntu bateza imbere, ubufasha batanga n'ukuntu banoza imikorere myiza yo kwita ku barwayi.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal byubatse mu Mujyi wa Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, ni bimwe mu bitanga umusanzu ukomeye cyane mu kuvura indwara zananiranye mu Banyarwanda ariko n'abanyamahanga na bo ntibahwema kuza kuhivuriza bitewe n'ireme ry'ubuvuzi batanga.

Kwa muganga habamo ibyumba bitandukanye ariko hakabamo n'iby'ingenzi bashobora kubagiramo umurwayi, icyumba biba gifite ibikoresho bihagije kandi gifite amatara n'ibirahure bitanga urumuri ku buryo umurwayi abasha kuvurwa nta kibazo.

Lancet inzu yahariwe gukorerwamo ubushakashatsi bujyanye n'indwara zibasira ubuzima bw'abantu kugira ngo hashakwe umuti ugamije kurimbura izo ndwara no kuzirwanya, bityo abaturage babeho mu buzima bwiza kandi umubare w'abantu bahitanwa n'izo ndwara ugabanyuke.

Kwa muganga, usanga inyubako zabo zifite imiryango myinshi, kandi hejuru ya buri muryango, haba hariho nomero, ku buryo byorohera umurwayi kumenya ngo, ndivuriza muri nomero ya kangahe, cyangwa se akabasha kurangisha ku buryo bworoshye.

Mu nyubako mu bitaro kwa muganga, dusangamo ibikoresho bitandukanye mu byumba, aho haba harimo intebe, hakabamo ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa, n'ibikoresho byifashishwa mu gusohora impapuro zo kwandikaho, hakabamo n'igitanda umurwayi ashobora kuryamaho igihe ari kuvurwa.

Inyubako z'ibigo nderabuzima n'ibitaro zigenda zitezwa imbere umunsi ku munsi hubakwa amazu agezweho ajyanye n'icyerekezo, ageretse azwi nk'amagorofa kugira ngo turusheho gushyiramo imbaraga mu gusigasira ubuzima n'amagara y'abantu.

Ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyizemo imbaraga cyane mu kurwanya indwara ya kanseri yibasira Abanyarwanda kuko hubatswe ibitaro bikuru bishinzwe kurwanya iyi ndwara, aho abantu bose bayirwaye bajya kwivuriza kandi bagakurikiranwa bagakira.

Abarwayi baryamye ku gitanda barwariye kwa muganga, bambaye ibikoresho by'ikoranabuhanga bibasha kubongerera umwuka, ubona y'uko barembye bikabije cyane kandi bambaye ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bibongerera amaraso mu mubiri, ubona ko ariko bari kwitabwaho ku buryo bitanga icyizere ko bashobora gukira.

Munyubako imbere kwa muganga dusangamo ububiko bwa kijyambere bugezweho; bushinzwe gushyirwamo imiti kugirango itagerwaho n'ubukonje cyangwa ubushyuhe bwinshi ahubwo ikabikwa ahantu heza habugenewe kugira imare igihe kirekire, izakoreshwe no mu gihe kizaza.

Ubuvuzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho hasigaye hubakwa n'inyubako zahariwe kurengera amagara y'abakiri batoya, abana bafite nk'imyaka icumi kumanura na bo usanga harashyizweho ikigo gishinzwe gukurikirana no kumenya imihindagurikire mu kugira ubuzima bwiza, hagati y'ikigero cy'abana bari muri iyi myaka.

Imbere mu nyubako kwa muganga, dusangamo ibikoresho bitanga umuyaga bityo abaturage baje kwivuza cyangwa abayobozi bakabasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka hamwe n'abaganga bavurira muri ibyo bitaro.

Inyubako zo kwa muganga cyangwa ku bigo nderabuzima; igomba kuba yubatse ku buryo bwisanzuye, ifite amadirishya menshi, ku buryo bakingura umuyaga ukinjira, kugirango umurwayi atabura umwuka mwiza wo guhumeka.

Ibigo nderabuzima usanga byubatse ahantu heza, hateye ibiti bizana umuyaga abaturage bahumeka, hateyemo ubusitani kandi hari amazu yisanzuye, ku buryo abaturage babasha kuvurwa ku buryo bwihuse.

Kwa muganga haba ububiko bugari kandi bwisanzuye, bubikwamo imiti y'amoko atandukanye aho usanga bwubatse ku buryo buhambaye kandi bw'ikoranabuhanga ku buryo bitakorohera ubukonje cyangwa ubushyuhe bwinshi kuhagera.

Ibigo nderabuzima n'ibitaro bigenda byubaka umunsi ku munsi kandi ku buso bunini cyane, ku buryo bishobora no kwakira abantu barenga umubare wa magana atanu ku munsi kuko biba bifite abaganga bahagije kandi babyigiye, kongeraho n'ibikoresho bihagije.

Kwa muganga, tuhasanga ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abantu bakeneye kuyikora, bajye babibona ku buntu kandi ntakiguzi kuko usanga mu mazu yigenga, babigura cyangwa bakabyishyurira amafaranga.

Abantu bacuruza imiti ariko bagakora bigenga bavuga y'uko byabateje imbere cyane kandi bakishimira uruhare bagira mu kuvura abantu indwara baba bafite zitandukanye zirimo nk'inkorora, izindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko usanga abazirwaye batinya kugana ibigo nderabuzima ahubwo bakajya ku bantu bigenga.

Ubuvuzi bwateye imbere cyane kugeza n'aho inyubako z'ibigo nderabuzima n'ibitaro zisigaye zubakwa ku buryo bugeretse, kandi zikubakwa ku buso bunini, aho usanga mu mbuga y'ibitaro hateye n'ubusitani bwiza cyane abantu bashobora no kuruhukiramo igihe bagiye kwa muganga.

Abagore nabo bakunda ku gukora imyitozo ngororamubiri, ariko idahambaye cyane ku buryo itabasaba imbaraga, harimo nko kurambura amaboko, kugorora amaguru, umugongo, ibi ngibi bikabafasha kutagira amavunane, ndetse no kwirinda umubyibuho ukabije.

Abakiri batoya bashobora gukora imyitozo ngororamubiri, binyuze mu buryo butandukanye harimo nko gukina umupira w'intoki, uw'amaguru ndetse no kwirukanka, ibi ngibi bikabafasha kugororoka, kwirinda umubyibuho ukabije ndetse no gutuma bumva yuko bahumeka neza.

Gukora siporo twigorora amaboko yacu, amaguru, umugongo, bimwe mu bintu bidufasha kugira ubuzima bwiza cyane cyane abagore n'abategarugori bagomba kubikora kugira ngo birinde umubyibuho ukabije.

Umuntu ashobora gukomereka igihe yari gukora imyitozo ngororamubiri, bikaba ngombwa yuko ajya kwa muganga, bakamuzirikaho udutambaro twabugenewe, dushinzwe gutuma atabyimbirwa, cyangwa ngo agire uburibwe bukabije.

Umuryango wa croix rouge mu ndimi z'amahanga ni umwe mubita mu gufasha abantu no kubaha amahugurwa ku bijyanye no gutabara by'ibanze umurwayi ugize ikibazo gitunguranye, bakamugeza kwa muganga kandi bagatabara amagara ye.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri asabwa guterura ibyuma ndetse no kwirukanka, ariko bikajyana no kurya neza, afata amafunguro yujuje ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Aho agomba kurya ibiribwa birimo imbuto, amacunga, imboga, inyanya, n'urusenda.

Bimwe mu bikoresho ushobora gusanga umuntu ukora imyitozo ngororamubiri atunze, harimo umuti w'amenyo wo kogesha mu kanwa, hakabamo amavuta meza yo kwisiga ku ruhu, hakabamo udutambaro twabugenewe two kwihanagura igihe avuye mu myitozo.

Umusore uri kunywa amazi meza afunitse mu gacupa, arimo gukora n'igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri agakenera amazi kuko yabize ibyuya byinshi umubiri we ugakakara, maze ugakenera kunywa amazi kugira ngo usubirane ubuhehere.

Hari igihe umuntu ahura n'imvune yo mu ivi, akavunika nk'igufwa cyangwa ingasire ikangirika, akajyanwa kwa muganga kugira ngo bamushyirireho imiti yababugenewe igabanya ububabare kandi ntabashe kubyimbirwa bityo abashe gukira vuba.

Ni byiza kunywa amazi meza kandi tukabigira akamenyero kuko amazi afasha umuntu gusohora imyanda mu mubiri binyuze mu kubira ibyuya nk'igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye impuzankano zirimo uturindantoki, agapfukamunwa, ari kuvura umurwayi yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, umurwayi we yakomeretse ku gice cy'umugongo, umuganga arimo aramwitaho kugira ngo akire vuba.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza ariko bikaba akarusho yuko bijyana no kurya ibiryo byujuje intungamubiri bigizwe n'imbuto, amagi, inyama, ibishyimbo ndetse n'imboga.

Igihe umuntu ahuye n'imvune amaze gukora imyitozo ngororamubiri, asabwa kujya kwa muganga kugira ngo bamurebere ikibazo yagize. Iyo basanze amagufa yatanye umuganga yifashisha imashini zabugenewe akabasha kuyateranya, akongera akagenda, akagira ubuzima bwiza.

Hari imiti itandukanye, yagenewe abantu bakora imyitozo ngororamubiri, harimo igabanya uburibwe, bakoresha bisiga, mu gihe bavunitse, cyangwa bagahura n'igikomere, bari mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri.

Itsinda ry'abaganga n'abayobozi bakuru b'ibigo nderabuzima, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bari kwiga cyangwa bakurikiye amasomo, bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo barusheho kunoza ubuvuzi bagenera abaturage.

Mu igihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri atakaza amazi menshi binyuze mu kubirira ibyuya, kugira ngo nawe yongere kugira ubuhere mu mubiri aba akeneye kunywa amazi kandi meza ubundi akongera akayasubiza mu mubiri akabaho neza.

Ukora imyitozo ngororamubiri, agomba kuba atunze ibikoresho bitandukanye, birimo ibyuma byo guterura akoresha mu gihe ari gukora igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, birimo kandi udutambaro dusa neza yihanaguza iyo amaze kubira ibyuya, amazi yo kunywa, ndetse n'imbuto zo kurya,...

Abakora imyitozo ngororamubiri bifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo na mudasobwa, aho umuntu ashobora kuyireberaho amakuru, y'uburyo bakora imyitozo, cyangwa se akayigiraho inyigisho zitandukanye, ziba zarashyizweho n'abantu bo mu bihugu byateye imbere, binyuze mu gukoresha imbuga nkoranyambaga.

Mu gihe umuntu yahuye n'imvune ari gukora imyitozo ngororamubiri, abantu bagomba kumurambura ingingo z'umubiri we wose kugira ngo adahinamirana cyangwa se bikamuviramo ubumuga, ikindi bagomba no kumujyana kwa muganga.

Abiganjemo igitsina gabo nibo bakunze gukora imyitozo ngororamubiri cyane kuko ibafasha mu kugira umubyibuho uringaniye, horanara ingingo z'umubiri zikomeye, kwirinda indwara zirimo rugimpande, umubyibuho ukabije, kandi imyitozo ngororamubiri inabafasha gusohora imyanda mu mubiri.

Kunywa amazi meza bifasha umubiri w'umuntu mu bikorwa bitandukanye, harimo koroshya igogora, bifasha umuntu guhumeka, amazi asohora imyanda mu mubiri, impyiko nazo ziyakoresha ziyungurura amaraso, abantu bakora imyitozo ngororamubiri rero bagomba kunywa amazi meza.

Umuntu ashobora gukomereka nko mu ivi igihe yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, aha ngaha aba asabwa kujya kwa muganga kugira ngo bamukurikirane barebe niba nta kibazo cyo kuvunika igufawa cyabayemo, ubundi bamubage babashe kumuvura yongere agire ubuzima buzira umuze.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha ubwonko bwacu nko gutekereza neza. Kuko iyo turimo turirukanka cyangwa duterura ibyuma ubwonko buraruhuka kandi ibyuya bigasohoka mu mubiri, bityo tukabasha gutekereza neza dufite ubuzima bwiza kuko tudaheranwa n'ibitekerezo byinshi ngo twigunge bityo imibereho yacu yo gutekereza ikazamuka ku rundi rwego.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri asabwa kurya neza ibiribwa birimo voka, urusenda, imbuto, amashu, tungurusumu ubunyobwa ndetse n'inyanya kuko bikungahaye mu kumurinda indwara nyinshi no kongera intungamubir.i

Umuntu ashobora gukomerekera cyangwa akagira imvune mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri aho bisaba yuko yifashisha udutambaro twabugenewe, akizirika ku gice cy'umubiri yavunitse kugira ngo abashe kuba yakira.

Gukora imyitozo ngororamubiri bikorwa binyuze mu mikino itandukanye, harimo n'umupira w'amaguru kandi bifasha abantu kwirinda ingaruka zitandukanye, zirimo no kugira umubyibuho ukabije cyangwa kurwara indwara zirimo na diyabete.

Abaturage bakora imyitozo ngororamubiri bakoresheje ibyuma byabugenewe umuntu aterura, bakoresheje kandi imipira yo gukina irimo umupira w'amaguru, umupira w'intoki ndetse bakoresheje n'imigozi yo gusimbuka.

Hari ibikoresho bitandukanye bishobora gufasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri. Twavugamo nk'iradiyo yo kumvamo imiziki, tukavugamo ibitambaro byo gukoresha isuku cyangwa byo kwizirika ku mubiri mu gihe umuntu yahuye n'igikomere, amavuta yo kwisiga, umuti w'amenyo wo gukora isuku yo mu kanwa, n'ibindi bikoresho.

Imyitozo ngororamubiri ishobora gukorwa umuntu ahagaze, yunamye, arambura amaboko n'amaguru, asutamye ,ari gutaruka makeri cyangwa se yubitse inda kugira ngo agorore agatuza.

Umuntu ukunda gukora imyitozo ngororamubiri, atunga ibikoresho bitandukanye bimufasha mu gikorwa cye cya buri munsi. Twavuga nk'udutambaro twabugenewe two kuzirika ku gikomere igihe yakomeretse cyangwa se tukavuga umuti w'amenyo akoresha iyo ari gukora isuku yo mu kanwa ndetse n'imibavu yo kwitera kugira ngo atagira impumuro mbi.

Ukora imyitozo ngororamubiri, ashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye, birimo uturindantoki, kugira no igihe ari guterura ibyuma biremereye, bitaza kumukata ku buryo bworoshye, cyangwa igihe akoze no hasi, adakoroboka ku mubiri.

Kwa muganga bagira igikoresho bashobora guhekaho umurwayi urwaye bamuvanye ahantu hamwe bamujyanye ahandi, twagisanisha n'ingobyi ya kinyarwanda ariko igikoresho cyo kiba gikomeye kandi gikoze ku buryo bworohereza umurwayi kukiryamaho ntavunike.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ibintu bidufasha kubaho mu buzima bwiza kuko birwanya umubyibuho ukabije kandi bigatuma umuntu atagira umuvuduko w'amaraso, umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agira ingingo zikomeye kandi akabasha kubaho neza.

Hari abantu benshi bakunze kurwara indwara yo kubura amatembabuzi mu mubiri, aho bagirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo babashe gusohora imyanda irimo n'ibyuya, cyangwa se bakagirwa inama yo kujya banywa amazi menshi byibuze litiro eshatu ku munsi.

Abiganjemo igitsina gabo bakunze gukora imyitozo ngororamubiri baterura ibyuma biremereye cyane kugira ngo bagire agatuza n'amaboko abyimbye kandi bibarinde kugira umubyibuho ukabije bahoe ingufu mu mubiri wabo.

Ab'igitsina gore na bo basigaye baramenye akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri kuko bibafasha mu bikorwa bitandukanye, harimo no kutagira umubyibuho ukabije ndetse no kwirinda indwara zitandukanye, harimo n'indwara ya Diyabete.

Kwa muganga hari ububiko bwagennewe bwo kubikamo imiti kugira ngo idahura n'ubukonje cyangwa ubushyuhe bukabije ngo yangirike, bityo ikabasha kumara igihe kinini, ku buryo n'abantu bo mu gihe kizaza bazayifashisha bivura indwara barwaye.

Mbere yo kugira ngo umuntu anywe amazi yagakwiye kubanza akayasuka mu kirahure cyangwa igikombe kibonerana kugira ngo hataba harimo imyanda bityo akayakoresha, ikindi umuntu ukora imyitozo ngororamubiri asabwa kunywa amazi menshi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Kwirukanka ni bumwe mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha umuntu kubira ibyuya cyangwa ibihaha bigahumeka neza. Abantu rero bagakwiriye kujya bitabira umwitozo wo kwirukanka kuko ari umwe mu gufasha abantu kwirinda umubyibuho ukabije.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kurya ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri birimo imbuto nk'inanasi, imineke, amacunga, imyembe, indimu kandi akanywa n'amazi kenshi ku munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Kunywa amazi mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni igikorwa gifasha umuntu mu kugarura akayanja mu mubiri, ndetse agatora agatege, kuko aba amaze gutakaza ibyuya byinshi, niyo mpamvu nawe aba akeneye kongera kunywa amazi, kugira ngo umubiri we ugire ubuhehere.

Umuntu uri kwirukanka cyangwa akora imyitozo ngororamubiri runaka, akunze kugendana n'icupa ry'amazi kugira ngo abashe kugenda afite ububobere mu mubiri kubera ko na we aba yabize ibyuya, agatakaza andi mazi.

Abiganjemo igitsina gabo bakunze gukora imyitozo ngororamubiri cyane, kuko ibafasha kwirinda umubyibuho ukabije, ikabafasha mu bikorwa bitandukanye birimo kugorora ingingo z'umubiri ndetse no kwirinda indwara zirimo na Dayabete.

Indwara abaturage bajya barwara yo gutakaza amazi menshi cyane mu mubiri, iyo ngiyo yavurwa no kunywa amazi menshi na none, gukora imyitozo ngororamubiri, irimo gukina umupira w'amaboko, gukina umupira w'amaguru, kwirambura cyangwa gusabana na bagenzi banyu.

Ab'igitsina gore bakunda gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje; irimo kurambura ingingo z'umubiri wa bo nk'amaboko, amaguru cyangwa umugongo. Kugira ngo birinde kugira amavunane kandi barwanye indwara zitandukanye zirimo no kugira umubyibuho ukabije.

Abantu benshi bakunze kwibasirwa n'indwara y'umugongo uba warabajahaje ku buryo bukomeye ariko gukora imyitozo ngororamubiri, ni kimwe mu bintu bidufasha kwirinda indwara y'umugongo, ukabwira mugenzi wawe akakugorora imitsi yo mu mugongo ikarambuka.

Physiotherapy mu ndimi z'amahanga, ni buvuzi bwateye imbere cyane aho hifashishwa imashini zabugenewe umuntu akazikandagiraho zikaba zabasha kumukura ibyuya mu mubiri cyangwa se bikamugorora ingingo zose, agatanga amafaranga.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, aba yirinze umubyibuho ukabije kandi agira ubuzima bwiza bitewe n'uko agira imitekerereze yagutse. Gukora imyitozo ngororamubiri bituma ubwonko bwacu butekereza neza kubera yuko tudaheranwa n'agahinda, buri gihe tuba dufite imirimo yo gukora.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri agahura n'ikibazo cyo kuvunika mu ngingo nko mu mavi ingasire ye ikaba yakangirika aho asabwa kujya kwa muganga akamuvura ubundi bakamufasha agakira.

Hari imbago zabugenewe umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri akagira imvune yifashisha kugira ngo bimworohereze kugenda atambuka kuko aba yavunitse urugingo runaka harimo nk'ukuguru cyangwa ukuboko.

Ukora imyitozo ngororamubiri agomba kurya ibiryo birimo urusenda, imineke, pome amashu, amacunga n'indimu n'izindi mbuto kuko zikungahaye mu kumurinda indwara ndetse no kongera ubuhangare bw'umubiri we.

Umuntu wagize imvune mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, ashobora kujya kwa muganga akitabwaho neza, abaganga bifashishije udutambaro twabugenewe, bakamuzirika kugira ngo imitsi ye yegerane abashe gukira vuba.

Kunywa amazi ni igikorwa cy'ingirakamaro cyane mu buzima bw'umuntu cyane ku bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, kuko amazi abafasha mu bikorwa bitandukanye, birimo gutuma bahumeka neza, amazi asohora imyanda mu mubiri binyuze mu kubira ibyuya, bityo kuyanywa ni ingirakamaro.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni igikorwa gifasha abantu mu kugorora ingingo z'umubiri wabo zirimo amaboko, amaguru, mu mavi ariko na none hari igihe biba ngombwa yuko umuntu ahura n'imvune, akaba yagana kwa muganga kugira ngo bamufashe.

Umusore uhagaze ari kurambura ukuguru, yambaye imyenda yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto zifunze n'amasogisi n'isaha, arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Abiganjemo igitsina gore, na bo bakunda gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bamaze kumenya akamaro kayo, mu kubafasha kwirinda indwara zirimo umubyibuho ukabije, ndetse no kugira umuvuduko w'amaraso.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri usanga atunze ibikoresho bitandukanye birimo umupira wo gukina w'amaguru, umupira w'intoki, iradiyo yo gucuranga, imigozi yo gusimbuka, n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Abantu b'igitsina gabo bakunze gukora imyitozo ngororamubiri, akenshi iyo bari kwa muganga bitewe n'ikibazo bagize ubundi bakajya kuvurirwa kwa muganga ariko ntibihangane kubaho badakora imyitozo ngororamubiri, ahubwo bagafashwa n'abaganga maze bakayikora.

Abakobwa nabo bagomba gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda ituma babasha kurambura ingingo z'umubiri, kandi bakabikora babishyizeho umutima, bikabarinda kugira umubyibuho ukabije, bikabarinda kandi kwibasirwa n'indwara zirimo no kugira umubyibuho ukabije.

Umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri binyuze mu bikorwa bitandukanye birimo gukina umupira w'amaguru, birimo kwirukanka, kuganira na bagenzi be, cyangwa se no kwiherera umuntu ku giti cye agakora imyitozo itamuvunnye.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri batakaza amazi menshi binyuze mu kubira ibyuya, ariko n'abo basabwa kunywa amazi menshi inshuro nk'ebyiri ku munsi, kugira ngo umubiri wabo wongere gusubirana ubuhehere kuko baba babize ibyuya byinshi bagatakaza amazi menshi.

Kunywa amazi meza ni ingirakamaro cyane, akenshi bigakorwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kuko batakaza amazi menshi bari kubira ibyuya, nabo bagakenera kunywa andi mazi kugira ngo umubiri wabo usubirane ububobere kandi uhehere bumve bameze neza.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifite akamaro gakomeye, kubera ko birinda umuntu kugira amavunane; kandi bikamurinda n'umubyibuho ukabije. Ab'igitsina gore ni bamwe mu bantu bamaze kumenya agaciro ko gukora imyitozo ngororamubiri, ku buryo na bo basigaye bitabira icy'igikorwa; yaba mungo aho batuye, ndetse no mu muryango mugari nyarwanda.

Umuntu ashobora gukoresha agatambaro gasa neza n'amazi ashyushye, agakora isuku yo ku mubiri, bimwe mu bintu bimufasha gukuraho imyanda iba yagiye ku mubiri, iba yihishe hagati y'ubwoya n'utwenge dutoya tuba ku mubiri dufasha umuntu guhumeka, ubu nabwo ni bumwe mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, no kumva umuntu ameze neza.

Abakora imyitozo ngororamubiri, bafite ibikoresho byinshi bitandukanye bashobora kwifashisha mu gihe bari gukora iki gikorwa, harimo imashini kabuhariwe mu kubafasha kwirukanka ariko batavuye aho bari, hakaba n'ibyuma byo guterura.

Bimwe mu bikoresho umuntu ukora imyitozo ngororamubiri akenera harimo umuti wo gusukura mu kanwa, wifashishwa mu koza amenyo ndetse n'uburoso, hakabamo imibavu yo kwitera kugira atagira impumuro mbi ndetse n'impapuro z'isuku, zo kwihanagura ibyuya.

Umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvu n'gihari ari gukora imyitozo ngororamubiri ashobora gufata agatambaro kabugenewe kagakoza mu mazi ashyushye akagenda yikanda agake gake kugeza abashije gukira kuko bimurinda kuba yabyimbirwa kandi bigatuma akira igikomere yagize.

Kunywa amazi meza bidufasha kugira ubuzima bwiza, amazi meza asohora imyanda mu mubiri, amazi meza atuma impyiko zikora neza. Abantu bakora imyitozo ngororamubiri bakunze kunywa amazi kuko agira akamaro kenshi mu mubiri harimo no koroshya igogora ry'ibiryo tuba twariye.

Abakora imyitozo ngororamubiri bagira ibikoresho bitandukanye babanza kwambara, harimo nk'ibipfuka mu mutwe, kugira ngo batabasha gukomereka ku buryo bworoshye, igihe bari gukina na bagenzi babo, kuko ashobora kumukubita nk'inkokora agahita ava amaraso, ariko iyo yambaye agakoresho gapfuka umutwe nta kintu yaba.

Abantu b'igitsina gore bakunze gukora imyitozo ngororamubiri, barambura amaboko yabo cyangwa se amaguru, bicaye ahantu bakagorora umugongo ntabwo bakunda kwirukanka cyane kuko bibagora ariko kurambura amaguru n'amaboko nabyo, ni bimwe mu bintu bibafasha kugorora ingingo z'umubiri bakagira ubuzima bwiza.

Abakora imyitozo ngororamubiri, bakina imikino itandukanye, irimo gukina umupira w'amaguru, gukina utudenese ku bana batoya ndetse no gukina imikino yo kwirukanka.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri usanga atunze ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo n'udukoresho yambara mu mavi kugira adakomereka byihuse igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri akina umupira n'abandi.

Kunywa amazi ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu buzima bw'umuntu, kuko bimufasha gusohora imyanda mu mubiri, amazi atuma impyiko zikora neza, amazi atuma umuntu atekereza neza, amazi arinda umuntu kugira umuvuduko ukabije, amazi ni ingenzi cyane kuyanywa mu buzima.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha abantu kwirinda indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije, ifasha abantu kwirinda indwara y'umuvuduko w'amaraso, ifasha umuntu kandi kugira umubyibuho uringaniye, gukomera amagufa, akagira n'uruhu rukeye rutariho imitsi cyangwa iminkanyari.

Abakora imyitozo ngororamubiri, bakunze kunywa amazi menshi kubera ko babira ibyuya, iyo bari gukora umwitozo na bo bagatakaza andi mazi bityo rero aba bakeneye gusubiza ubuhehere mu mubiri kugira ngo babashe kumva bagaruye akayanja.

Gukora imyitozo ngororamubiri ku bantu b'igitsina gabo ni ikintu kibafasha kugira umubyibuho uringaniye, bakagira amagufwa akomeye, bagahora bakeye, niyo mpamvu umuntu ukora imyitozo ngororamubiri adakunda no gusaza vuba.

Umuntu ukora siporo agomba kunywa amazi, akarya ibiryo birimo imbuto, amacunga, harimo pome kandi agomba gukoresha ibindi bikoresho bitandukanye birimo metero igomba kumwereka ahantu agomba gusimbuka, mbese ibintu bye byose bigahora biri ku ku murongo afite ubuzima bwiza.

Amasiganwa yo kwirukanka usanga yitabirwa n'abakiri batoya b'urubyiruko, hagamijwe mu gushaka abafite impano bakabahemba, ariko nanone ni bimwe mu bifasha abantu kwirinda indwara zirimo umubyibuho ukabije, kuko ari uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri kandi bikaba bifasha abayobozi gushishikariza n'abandi baturage kubyitabira.

Ibimera gakondo, byifashishwa mu gukorwamo imiti, ishobora kuvura umuntu igihe yagize imvune, ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se imiti yamufasha kumwomora, igikomere yagize kikabasha gukira vuba.

Hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye zamamarizwaho kandi hakanashishikarizwa abantu kujya bazikoresha, tuzisangaho n'amarushanwa atandukanye, harimo n'ayo kwiruka ashobora kubamo n'ibihembo ku bantu bakora umukino cyangwa umwitozo ngororamubiri wo kwirukanka n'amaguru.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri asabwa kunywa amazi kandi inshuro nyinshi ku munsi akabikora gutyo akabigira akamenyero, kuko amazi ari ubuzima afasha umuntu mu bikorwa bitandukanye, birimo no gusohora imyanda mu mubiri. Ikindi umuntu ukora imyitozo ngororamubiri asabwa, ni ukurya neza ibiribwa birimo n'imbuto.

Umugabo n'umugore bose bagomba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bahore bafite umubyibuho uringaniye udakabije kandi bibafashe mu kwirinda indwara zirimo nk'umuvuduko w'amaraso, zikunze kwibasira abantu badakora imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kurambura ingingo zikiza umubiri we, bifasha umuntu kubira ibyuya, bifasha umuntu gusohora imyanda mu mubiri kandi bituma umuntu ukoze imyitozo ngororamubiri aruhuka neza.

Ab'igitsina gore na bo basigaye bitabira gukora imyitozo ngororamubiri kuko bamaze kubona ko ifite akamaro gakomeye cyane, karimo mu kubafasha kwirinda kugira umubyibuho ukabije ndetse no kugabanya ibinure mu mubiri wabo.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni igikorwa cy'ingenzi cyane gifasha umuntu kugira ubuzima, bwiza binyuze mu kumurinda kugira umubyibuho ukabije kandi bikamufasha gusohora imyanda mu mubiri kuko iyo ari gukora imyitozo ngororamubiri abasha kubira ibyuya byinshi imyanda igasohoka.

Amababi y'inyanya avura indwara zitandukanye, zirimo ibisebe cyangwa kubyimba ndetse n'amahumane, abantu bose bakwiriye guhinga inyanya kandi bakazibungabunga, aho bazisanze hose.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura ibiheri byo mu maso ndetse n'iyongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, aho ikigo cyitwa Alliance gikorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako yo kwa Makuza, gicuruza iyi miti, abantu bose bashobora kujyayo bakayigura.

Ubuhinzi bw'igikakarubamba bwateye imbere cyane, ku buryo hasigaye hifashishwa n'imashini, kugira ngo bahinge igikakarubamba ku buso bunini, kubera ko gikorwamo imiti itandukanye, harimo iyo dukoresha kwa muganga, cyangwa iyo abaturage bo mu byaro bakoresha, barimo kwivura indwara zirimo nk'inzoka zo mu nda.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo n'iy'igabanya kugira ubushyuhe bwinshi mu mubiri ndetse n'iy'ikoreshwa mu kongera intungamubiri kugira ngo abantu birinde ibibazo birimo n'igwingira rikunze kwibasira abakiri batoya.

Igikakarubamba gikorwamo imiti itandukanye, irimo ivura abantu indwara zirimo amahumane yibasira uruhu rwabo, cyangwa se ibiheri biza ku mubiri w'umuntu. Igikakarubamba gikorwamo kandi amavuta yo gusiga mu musatsi kugira udapfuka, kigakorwamo n'imiti y'amenyo ikoreshwa mu gukora isuku yo mu kanwa.

Ni amoko atandukanye y'ibimera birimo igikakarubamba, harimo ibihwagari, imiravumba yifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo iyo dusanga kwa muganga, imiti ivura umutwe, Malariya n'iyindi miti.

Ibimera gakondo biri mu moko atandukanye kandi byifashishwa mu gukorwamo imiti myinshi, ivura abantu indwara, harimo nk'inkorora, inzoka zo mu nda, amahumane yibasira uruhu rw'abantu cyangwa se indwara zirimo na amibe.

Amavuta yo kwisiga akorwa mu bimera gakondo hifashishijwe amababi yabyo ubundi bakabisya, bakabikuramo amatembabuzi bakayavanga n'ibindi bintu ubundi bakayafunika neza, bakayashyira mu macupa, akajyanwa ku isoko akagurishwa.

Ibimera gakondo birimo ibitunguru, inyanya, tungurusumu n'ibindi, ni bimwe mu byifashishwa gukorwamo imiti, ivura abaturage indwara zitandukanye, cyane cyane mu bice by'icyaro, aho batitabira gukoresha imiti ya kizungu cyane, irimo iyo tugura kwa muganga cyangwa mu mazu acuruza imiti igezweho.

Amababi y'ibimera gakondo, arafatwa agatunganywa, bakayasya, bakayavanamo ifu inoze cyane, ubundi bakayikuramo imiti, ariyo tugura kwa muganga cyangwa mu bigo nderabuzima.

Igikakarubamba gikorwamo ibintu bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga ku ruhu kugira ngo ruhore ruhehereye kandi rubengerana, amavuta yo kwisiga mu mutwe, mu musatsi kugira ngo urambuke kandi ushashagirane ndetse hakavamo n'umuti ukoreshwa mu koza amenyo.

Abantu benshi bakunze kwivura indwara bakoresheje ikimera cya tangawizi, indimu ndetse n'amacunga aho banyunyuza umutobe wabyo bakawunywa cyangwa ibi byose bakabifata bakabisekura ubundi bakabivanga bakanywa amazi avuyemo, akabavura indwara zitandukanye harimo n'inzoka zo mu nda.

Hari abantu batangiye guhinga ibimera by'ibikakarubamba kuko hasanzwe y'uko bifasha abantu mu kuvura indwara zitandukanye zirimo amahumane kandi igikakabamba gikorwamo n'amavuta yo kwisiga.

Hari igihe biba ngombwa yuko umuntu akomereka cyangwa akarwara amahumane ku mubiri we. Icyatsi cy'inyabarasanya, ni kimwe mu gifasha abantu kuvura ibikomere cyangwa amahumane ku mubiri. Ushobora kugisanga imusozi cyangwa ukagisanga mu kabande.

Hari ibinyobwa bishinzwe kongera imbaraga mu mubiri, bikorwa hifashishijejwe ibimera gakondo, birimo amacunga, indimu, amaronji, imyembe, ibicungandimu n'ibindi.

Abavurisha imiti gakondo bamamaza ibikorwa byabo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho bashyiraho amafoto y'ibicuruzwa batanga ndetse bakandikaho amagambo avuga indwara bavura n'ubundi bufasha batanga.

Abaturage baboneka mu bice by'ibyaro bakunze gutunganya ibimera gakondo bagamijekoramo imiti itandukanye, ivura abantu indwara, aho bayijyana bakajya kuyigurisha mu bice byo mu mujyi kugira ngo babashe kubona amafaranga.

Inyanya ziri mu bimera bikorwamo amavuta yo kwisiga atukuza abantu cyangwa akabarinda amahumane, aho usanga hirya no hino mu maduka bacuruza ayo mavuta ashushanyijeho inyanya n'igikakarubamba.

Ibyatsi bya nyiramunuka byifashishwa mu komora igikomere cyangwa igisebe kuko usanga bikoreshwa n'abantu benshi bakozemanuka cyangwa bagasitara bakagira igikomere ubundi bagafata amababi y'ibi ibyatsi bakayavuguta bagashyira ku gikomere.

Ipapayi, ibitunguru, ubunyobwa, urusenda n'andi mababi y'ibimera gakondo bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara, zirimo inkorora, amahumane n'inzoka zo mu nda.

Imbuto z'ibimera gakondo bitandukanye, birimo amashaza, birimo za tangawizi n'ibindi, byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, iyo babifashe bakabisya, bakabikuramo ifu, ubundi iyo bakayipfunyika mu macupa, bakazayigurisha n'abaturage barwaye izo ndwara.

Bamaze gutahura ko ibimera byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, abahinzi batangiye kubihinga hasi hejuru, kuko ubu basigaye babigurisha n'amafaranga. Ni byiza rero guhinga ibiti bikungahaye mu kutuvura indwara birimo indimu, amacunga, imiravumba n'ibindi.

Ibinini bifatika abantu bivurisha kongeraho n'imiti y'amatembabuzi abantu bashobora kunywa cyangwa bakayishyira nko mu maso, yose ikorwa mu bimera bafata amababi yayo bakayatunganya, bamara kuyatunganya bakajyana mu nganda zabugenewe maze bagakoramo ibinini natwe tukabigura.

Ibimera gakondo birimo n'ibyatsi bya buri munsi nk'igikakarubamba, umuravumba n'ibindi, byifashishwa mu gukorwamo isabune yo koga, abantu bakoresha iyo bari gukora isuku, yaba iyo ku mubiri ndetse n'ibikoresho byabo.

Amababi y'ibimera birimo amapera, ibibabi by'indimu, ibibabi by'ibihwagari, ni imwe mu byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abarwayi kandi ikavura n'indwara zirimo nk'inkorora, amahumane n'izindi.

Ibimera gakondo bikorwamo imiti ivura abantu, bikurwamo amavuta yo kwisiga, bikorwamo isabune yo koga, iradufasha cyane muzima bwacu bwa buri munsi, ni yo mpamvu abantu bashishikarizwa kubungabunga ibimera gakondo aho biteye hose.

Abaturage bamwe na bamwe bafite imyumvire yuko hari amazi avura indwara, izananiranye n'izidashoboka maze zigakira. Hari amazi aherereye mu karere ka Nyaruguru i Kibeho, abaturage bava mu bihugu by'amahanga bakaza kuyavoma hano mu Rwanda kuko bizera yuko akiza indwara zananiye n'abaganga.

Ibimera gakondo biri mu moko atandukanye, harimo urusenda n'ibindi, nibyo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, amababi y'ibi bimera barayafata bakayatunganya, bakayakuramo ifu, ubundi bakayapfunyika mu macupa, igashyirwa ku masoko ikagurishwa.

Abaturage batuye mu bice by'ibyaro usanga bazindutse bagiye guhiga imiti ibafasha kubavura indwara zitandukanye, cyangwa se kuvura izibasira abana babo, aho bajya mu bigunda hirya no hino ahameze indabo bakazisoroma kuko baba bazi ko zivamo umuti ukomeye cyane.

Amababi y'umuravumba ndetse n'icyatsi bita umwenya, akoreshwa cyane mu gutekwa mu cyayi abantu banywa, usibye ko bashobora no kuyivurisha indwara zirimo nk'Inkorora cyangwa izifata mu muhogo w'umuntu.

Umuntu ashobora gukora isuku yo mu kanwa akoresheje ibyatsi gakondo, birimo nk'igikakarubamba, ashobora kandi no gukora isuku yo mu kanwa akoresheje amakara kuko nayo atuma amenyo acya kandi agasa neza cyane.

Amababi y'ibimera gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kandi agakorwamo n'ibinini dukoresha bya buri munsi, yaba ibyo tugura kwa muganga cyangwa se ibyo tugura mu mazu acuruza imiti yigenga, azwi nk'amazu acuruza imiti ya gakondo.

Ibimera dusanga mu mashyamba mu bigunda no mu bihuru byifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye zibasira umuntu. Abaturage batuye mu bice by'ibyaro baba bazi ko ibi bimera bivura bagafata; urugendo bakajya kubishaka kugirango ngo babashe kubona umuti.

Umuravumba uvura indwara nyinshi zitandukanye, zirimo inkorora, indwara zifata mu muhogo, iki kimera gikorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu gukora isuku, nk'imiti y'amenyo, imiti yo gukoresha kugira ngo twivure indwara zo mu nda n'iyindi.

Abaturage bashaka kwivurisha imiti gakondo, bagomba kugenzura neza kandi bakayigurira ahantu hizewe, mu nyubako ziba zarahawe ubuziranenge n'ikigo kibishinzwe mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo batagura imiti itari iya nyayo ikangiza ubuzima bwabo.

Elekitorositine ni ikinini gikoreshwa mu kuvura indwara gifite amagarama magana atanu ariko gikorwa mu bimera gakondo ibyatsi bya buri munsi. Ni byiza rero ko abantu bagomba kubungabunga ibimera gakondo kuko bibafasha kubavura bakagira ubuzima bwiza.

Ibimera gakondo bikorwamo imiti itandukanye n'amavuta yo kwisiga ku ruhu cyangwa se mu musatsi kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza. Indimu ndetse na avoka byifashishwa cyane mu gukorwamo amavuta yo gusiga ku ruhu.

umucyayicyayi, amacunga, ibindi bimera gakondo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Amacunga cyangwa indimu bikoreshwa mu kuvura mu muhogo cyangwa kuvura indwara y'inkorora, umucyayicyayi nawo ni uko nguko. Umuravumba n'umwenya nabyo byifashishwa cyane mu kuvura indwara zirimo izo mu muhogo n'izo munda.

Ibinini bivura inzoka tubona kwa muganga cyangwa ibivura izindi ndwara, bikorwa hifashishijwe ibimera cyangwa ibyatsi gakondo bityo tugomba kubibungabunga, aho biteye ntitubirandure kuko bidufitiye akamaro gakomeye.

Abacuruza imiti gakondo usanga bayidanditse umufungo ku mafungo ndetse bakanavuga yuko bavura indwara zananiranye, ariko abantu bayigura basabwa kwitonda cyane bagashishoza, bakareba umuvuzi ubyemerewe kandi wabiherewe uburenganzira.

Igikakarubamba ni icyatsi gikomoka ku bimera gakondo, kifashishwa mu gukorwamo amavuta yo gusiga ku ruhu; kugira ngo ruhehere kandi ruhore rutohagiye. igikakarubamba na none gikorwamo amavuta yo gusiga mu musatsi kugirango udacikagurika.

Ubuki bukorwa n'inzuki ariko hakifashishwa ibimera gakondo kuko inzuki zijya guhova mu ndabyo z'ibimera gakondo maze zikajyana ibyo zahovye, zikabikoramo ubuki, ari bwo tugura mu masoko cyangwa tukabuhakura hirya no hino mu mashyamba.

Hari imiti ikungahaye mu kongera intungamubiri mu mubiri cyangwa se kuvura ibiheri cyangwa gufasha abagabo kugira ubushake mu gihe k'imibonano mpuzabitsina, iyo miti yose ikorwa mu bimera gakondo, igakorwa n'ikigo bita Alliance cy'abanyamahanga mu gihugu cya Philipine, gikorera no mu mujyi wa Kigali mu nyubako yo kwa Makuza.

Igikakarubamba cyifashishwa mu gukurwamo amavuta cyangwa imiti itandukanye harimo n'ivura inzoka zo mu nda. Ni ikimera gifite akamaro gakomeye cyane, abaturage bagomba kugihinga kandi bakakibungabunga kugira ngo bajye banakigurisha kuko kifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo n'iyitunganyirizwa mu nganda.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, yaba iy'amatembabuzi dukoresha twivura amaso, cyangwa imiti ifatika dukoresha twivura nk'umutwe, igifu n'izindi ndwara.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ubundi bakayifunika mu macupa, bakayishyira ku isoko, abaturage bakajya bayigura kugira ngo bivure indwara zirimo inkorora, zirimo igituntu, zirimo Malariya n'izindi ndwara.

Ubuvuzi gakondo bwateye imbere, kugeza n'aho basigaye bahinga ibimera bikungahaye mu kuvura indwara kugira ngo bajye babyifashisha, kandi banabigurishe bitange amafaranga, kuko haba hari abantu babikeneye cyangwa babigize umwuga mu kubitunganya.

Imboga rwatsi ni ibimera gakondo nibyo bikorwamo ibiribwa bitandukanye tugura bya buri munsi, harimo: imiti ivura indwara kwa muganga, amavuta yo kwisiga, umuti w'amenyo wo gukora isuku, ndetse n'ibiribwa byongera intungamubiri.

Umuravumba ni ikimera gakondo kifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, reka tuvuge impurura, tuvuge indwara zo mu muhogo, cyangwa se igituntu, umuravumba urakivura, abantu bagomba kuwuhinga kandi bakawubungabunga, aho bawubonye hose.

Ibimera gakondo ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye irimo ivura abantu indwara cyangwa se amavuta yo kwisiga, yaba mu mutwe ku musatsi ndetse no ku ruhu rw'umuntu. Ibimera gakondo kandi bikorwamo n'isabune yo koga dukoresha buri munsi.

Tungurusumu zishobora gukoreshwa ibintu byinshi cyane bitabarika, kuko umuntu ashobora kuyiteka akayirya mu biryo, cyangwa akayivurisha indwara zitandukanye, zirimo izo mu muhogo, indwara zifata mu kanwa, indwara zifata mu buhumekero n'izindi nyinshi.

Ubuhinzi bw'umuravumba bukomeje gutera imbere cyane, umuravumba ni icyaha cy'ikimera gakondo, gikungahaye mu kuvura indwara zitandukanye harimo n'inkorora cyangwa se izindi ndwara zo mu muhogo, abantu basigaye bafata ibimera by'imiravumba bakabihombeka bakabyifashisha babitera hirya no hino kubera ko bamaze kubona ko ari umuti ukomeye cyane.

Ibimera gakondo ni ingenzi cyane uko byifashishwa mu gukorwamo amavuta asigwa mu musatsi kugira ngo arambuke neza, ayasigwa ku ruhu rw'umuntu kugira ngo rube rukeye, ibimera byifashishwa mu gukorwamo imiti y'amenyo yifashishwa mu gukora isuku' ibindi bikoresho.

Igikakarubamba kifashishwa mu gukuramo amavuta asigwa ku mubiri kugira ngo abantu birinde kugira ibiheri, cyangwa se kugira amahumane maze bagire ubuzima bwiza, gikorwamo kandi amavuta yo gusiga mu musatsi kugira ngo ubashe korohera.

Ibimera bita ibitovu ni ibyatsi gakondo bigira amahwa maremare, bikunda kumera ahantu mu bihuru cyangwa mu bigunda, ariko bigakoreshwa cyane mu kwivura indwara zitandukanye harimo n'inzoka zo mu nda, aho usanga abaturage batuye mu cyaro ari bo bakunda gukoresha uyu muti.

Tangawizi iravura cyane, kuko abantu benshi bakunda kuyishyira mu cyayi cyo kunywa ,kugira ngo ibarinde kurwara indwara zirimo inkorora, cyangwa izindi ndwara zibasira mu muhogo ,tangawizi kandi ikorwamo ibyo kunywa bitandukanye birimo n'inzoga, abantu birirwa bagura.

Igikakarubamba gishobora gukorwamo ubwoko bw'imitsi itandukanye, harimo amavuta yo gusiga mu musatsi kugira ngo worohe kandi ubengerane, harimo amavuta yo koga akoreshwa nk'isabune, harimo kandi amavuta yo gukoresha kugira ngo umuntu atabyimba nko mu gihe yariwe n'inzuki cyangwa utundi dusimba.

Hari abantu bihangiye imirimo, ishingiye ku gucuruza imiti, ikomoka ku byatsi gakondo, aho usanga bakorera hirya no hino mu mijyi, maze bakavura abantu indwara nyinshi zitandukanye, zirimo amahumane, hakabamo n'inzoka zo mu nda.

Ibimera gakondo biri mu moko atandukanye ariko na byo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, igitoki, ubunyobwa ni bimwe mu bimera bivamo umuti ukomeye cyane wo kuvura abarwayi, twavuga nk'umuti uvura imvune ushobora kuva mu makakama y'igitoki.

Umuti w'amenyo dukoresha dukora isuku, ukorwa mu bimera gakondo, birimo igikakarubamba, bikabamo imiravumba n'imyenya, aho bifasha umuntu kugira amenyo akeye, indimu na zo zifashishwa mu gukorwamo imiti, ifasha umuntu gukora isuku yo mu kanwa.

Amavuta, ibinini ndetse n'ibiryo bikungahaye mu kungera intungamubiri, ntahandi hantu biva, uretse kuba bikorwa mu bimera gakondo cyangwa se ibyatsi bya buri munsi twirirwa tunyuraraho. Ni ngombwa rero kubibungabunga, mu masambu yacu aho byameze cyangwa mu ngo aho dutuye.

Ibimera gakondo birimo amashu, ibibabi n'izindi mboga rwatsi ni bimwe mu byifashishwa mu gukorwamo imiti ndetse no kuvura indwara zibasira abantu harimo nk'inzoka zo mu nda binyuze mu gufata amababi y'ibyo byatsi bakayateka bakanywa amazi avuyemo ubundi akabakiza inzoka zo mu nda.

Umuntu ashobora kurumwa n'uruyuki akabyimba, hari imiti yabugenewe ifasha umuntu mu gihe agasimba runaka kamudwize cyangwa kakamuruma, iyo miti akayikoresha yisiga, ubundi ntabashe kubyimba ku mubiri.

Abantu bivurisha imiti gakondo bagirwa inama yo kugenzura ko yuzuza ubuziranenge mbere yo kuyigura kuko abacuruzi bayicuruza usanga bavuga yuko imiti yabo ihambaye kandi ifasha abantu mu kubavura indwara, bagakira ku buryo bwihuse.

Igikakarubamba ni ikimera rwatsi gakondo ariko cyifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye cyangwa amavuta yo gusiga ku mubiri, ayo mu mutwe. Hari abantu hirya no hino bagihinga yewe bakanakigurisha kuko kivamo umuti ukomeye cyane.

Ibimera gakondo ni byo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara, ariko na none bigakorwamo amavuta yo kwisiga ku mubiri kugira ngo uruhu rw'umuntu ruhore rukeye kandi rudakanyaraye, yaba amavuta yo mu mutwe n'ayo kwisiga ku mubiri akorwa mu bikakarubamba n'ibindi bimera.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, harimo amavuta twisiga yaba ku mubiri cyangwa mu musatsi, ariko nanone bikorwamo imibavu twitera ku mubiri kugira ngo tugire impumuro nziza kandi duhore dukeye.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti, binyuze mu gufata amababi yabyo agasebwa, ubundi hakavamo ifu, iyo fu igatunganywa igakorwamo ibinini, tugura kwa muganga.

Ibimera gakondo nibyo bikorwamo imiti itandukanye ivura abantu indwara zirimo inkorora, zirimo umutwe ikindi kandi ibimera gakondo bikorwamo amavuta yo kwisiga ku ruhu.

Ibimera gakondo bikorwamo imiti itandukanye igafunikwa mu macupa ubundi ikajyanwa ku isoko ikagurishwa, abivurisha iyi miti bashishikarizwa kugenzura neza mbere yo kuyigura, kugira ngo barebe ko yujuje ubuziranenge.

Inanasi n'imineke byongera intungamubiri mu mubiri w'umuntu, umuntu ashobora kubirya cyangwa bigatunganywamo iyindi miti ishinzwe kongera intungamubiri mu mubiri, harimo iyigurishwa kwa muganga cyangwa no mu mazu acuruza imiti.

Igikakarubamba gikorwamo amavuta yo gusiga ku ruhu ku buryo nta muntu ushobora kugira ibiheri cyangwa ngo arware amahumane, ikikakarubamba kivamo amavuta yo gusiga mu musatsi kugira ngo ubengerane yitwa shampo, ikikarubamba gikorwamo imiti ivura indwara kwa muganga.

Ibimera gakondo bikorwamo amavuta yo kwisiga ku mubiri kuruhu, amavuta yo kwisiga mu mutwe mu musatsi, imiti yo kwivura kwa muganga akoresha cyangwa se agakorwamo n'imiti ikungahaye mu kongera intungamubiri.

Aamababi y'ibimera gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyo bayafashe bakayasya bagakuramo amatembabuzi, ubundi bakayafunika mu macupa cyangwa se ibikatsi byabyo bakabyumisha, bakazabikoramo ikinini.

Igikakarubamba, cyifashishwa mu gukorwamo, amavuta yo kwisiga ku uruhu, kugira ngo rutazana ibihe kandi ruhore rubobereye, kigakorwamo, amavuta yo gusiga mu musatsi kugira ngo urambuke, kigakorwamo, ibinini bivura abantu indwara zitandukanye, zirimo inzoka zo mu nda, inkorora, cyangwa se, indwara zifata mu muhogo.

Umurarumba wifashwa mu kuvura indwara zitandukanye, umuntu wese akwiriye kuwubungabunga aho awubonye hose cyangwa agafata urugemwe akajya kurutera mu rugo, akazajya aruvomera kuko ushobora kumuvura inkorora, ukamuvura n'izindi ndwara zo mu muhogo.

Imiti ikomoka ku bimera gakondo iba yatunganyijwe, hifashishijwe amababi y'ibimera ndetse n'imizi yabyo, bitunganywa cyangwa bakabisya ubundi bigafunikwa mu macupa yababugenewe. Abakoresha iyi miti mu kwivura bagomba kugenzura mbere yo kuyigura, bakareba ko yanditseho udupapuro tugaragaza ko yahawe ubuziranenge.

Ibimera gakondo nibyo bikorwamo amavuta yo kwisiga abantu bakoresha buri munsi kugira ngo bagire uruhu rukeye kandi ruyaga, bikavamo n'umuti w'amenyo ukoreshwa mu gukora isuku yo mu kanwa, kandi ni nabyo bivamo imibavu ihumura neza abantu bakunze kwisiga.

Igikakarubamba cyifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ndetse n'amavuta yo gusiga ku ruhu rw'umuntu, hari amavuta yirukana ibiheri kuhu, hari amavuta yo gusiga mu mutwe kugira umusatsi urambuke, ayo yose akorwa mu gikakarubamba.

Ibimera gakondo birimo umuravumba amababi y'umwenya nibyo byifashishwa mu gukorwamo imiti ivura indwara zitandukanye zirimo inkorora, inzoka zo munda zikabamo umutwe cyangwa se amahumane.

Abaturage benshi bakunze gukoresha ubwoko bw'amavuta yo kwisiga; akozwe mu bimera birimo nk'igikakarubamba, umuravumba, avoka cyangwa ibiba by'amacunga, kuko ayo mavuta agira impumuro nziza kandi agatuma uruhu rwabo ruhora rusuherewe, bakabasha kubaho neza.

Abaturage bakunda gutera ibiti bikungahaye mu kuvura indwara kubera koiyo bimaze gukura basoroma imbuto zabyo bakazifashisha mu kwivura indwara zirimo inkorora zibasira mu muhogo cyangwa se inzoka zo mu nda.

Abantu bagomba kuvomera ibimera gakondo kuko tubyifashisha tukabikoramo imiti itandukanye ituvura indwara turwara harimo n'inzoka zo mu nda, ikindi ibimera gakondo iyo bibonye imvura biratohagira cyane bigashisha kandi bigatanga umusaruro bigashibukaho n'ibindi byatsi byinshi.

Amavuta abantu benshi bisiga ku ruhu, iyo bamaze koga bagiye mu kazi kabo ka buri munsi usanga akozwe mu bimera gakondo birimo igikakarubamba, imiravumba, cyangwa indimu n'amacunga, aho bavuga yuko aya mavuta ari meza cyane, kuko abarinda kugira amahumane ku ruhu rwabo.